Akabari karimo ibyo kunywa bitandukanye hari icupa rigaragara riteretse ryanditseho tasika, harimo televiziyo, harimo n'ibikoresho bitandukanye birimo; ameza, etajeri ndetse n'intebe.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye birimo firigo, birimo amakaziye ndetse hakaba harimo n'ibinyobwa bitandukanye by'inzoga, hejuru hakaba hagaragara televiziyo imanitse.

Ameza y'umukara, ateretseho iparato y'umukara, iriho ibyo kurya ndetse n'amafurusheti, hakaba hateretseho n'ibirahure birimo ibyo kunywa, hakaba hariho n'intebe y'umukara, ahangaha akaba ari ahantu abantu baza kwiyakirira, igihe cyose bakeneye ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Aha ni mukabari hakaba harimo abantu batatu bicaye begeranye, umwe uhagaze n'abandi babiri bicaranye, imbere hakaba harimo umukoze uri kubakira. Ariko inyuma yaba bantu hari undi muntu umwe wicaye wenyine.

Umuntu urimo kwerekana kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga hakoreshejwe ikarita, akaba afashe ikarita ndetse n'akamashini, arimo arabigaragaza. Inyuma y'iwe hakaba hari indi shusho yerekana ibinyobwa bitandukanye.

Igitabo gishushanyijeho ibinyobwa bitandukanye, ndetse haragaraho amazina y'ibyobwa bitandukanye hakaba hariho n'igiciro cyabyo iki kikaba cyifashishwa mu mahoteli ndetse no maresitora no mu tubari aho umukiriya agenda bakakimushyikiriza kugira ngo amenye ibyo akeneye hanyuma amenye ibyo bamuzanira ibyo aribyo.

Icyapa kiriho abantu babiri. Ku ruhande rumwe n'urundi ruhande hakaba hari abantu babiri. Hagati hakaba hagargaramo icupa rya sikoru, akaba ari icyapa gikoresha yangwa se kigaragaza yuko hafi aho ngaho hari akabari runaka.

Icyapa kiriho icupa rya Amstel ndetse n'ikirahuri cya Amstel kikaba kigaragaza ko aho hantu hari akabari kitwa Posarunje aho abantu bajya kwiyakirira bakicara bagafata icyo kunywa ndetse n'icyo kurya baganira.

Etajeri irimo ibyo kunywa bitandukanye hejuru ya etajeri hakaba hari televiziyo nini ya furati, ahangaha hakaba ari mu kabari aho abantu bakunze gusohokera bagiye gufata icyo kurya ndetse nicyo kunywa bicaye baganira.

Umumotari uhetse umugenzi iruhande rwabo imodoka ziparitse ndetse n'icyapa cyamamaza inzoga ya amusiteri.

Inzu irimo kwaka urumuri rw'umutuku ndetse n'umuhondo hakagaragara intebe hari n'itara ndetse ku ruhande ririmo kwaka umweru hahagaze n'umuntu uri ku ruhande wambaye umupira wa oranje.

Ibyo kurya bitandukanye bikorwa mu nyama birimo sosiso, ndetse harimo n'ikirahure kirimo inzoga, hakaba hari n'ikimenyetso gikoreshwa mu gusikaninga, igihe cyose umuntu aguze ibicuruzwa, ashaka kumenya ibyo yishyura ibyo aribyo.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye, intebe ndetse n'ameza hakaza etajeri, ndetse haragaragaramo na firigo zitandukanye, hakaba harimo n'ibinyobwa bitandukanye, haragaragaramo abantu bategereje kwakira abakiriya bahagana kugirango bafate icyo kunywa.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe zo kwicaraho, akaba hariho na etajeri, hakaba harimo na firigo ndetse hakaba hariho n'ibinyobwa bitandukanye; hakaba ari ahantu heza abantu baza kwicara basohotse, mu gihe bashaka gufata ibinyobwa runaka n'ibyo kurya.

Hariho umuntu, hakaba umutaka wa mtn, hakaba ndetse n'icyapa cyamamaza inzoga yitwa mitsingi.

Umuntu uhagaze akaba afite icupa mu ntoki ndetse afite n'agakombe gatoya mu ntoki, imbere yiwe hari igikombe kinini aha ngaha akaba ari uburyo bukoreshwa bwo kuvanga inzoga zitandukanye kugira ngo abakiriya baza bagana aha hantu ubaje kunywa inzoga yose bifuza kandi iryoshye.

Abantu babiri ndetse n'imashini iri kuruhande iri mu ibara ry'umukara mu imbere hakaba harimo ubururu n'umweru, muri abo bantu babiri umwe akaba afite imashini undi akaba afite ikarita. Iyi mashini ikaba ikoreshwa kugira ngo hishyurwe ibicuruzwa ndetse iyi karita nayo akaba ariyo ikoreshwa ishyirwa kuri iyo mashini kugira ngo umuntu abashe kwishyura.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye intebe, ndetse na firigo, hakaba harimo n'abantu bashinzw gutanga serivise mu kabari, ndetse ahana ngaha akaba ari ahantu abantu basohokera baje ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'ibyo kurya bitandukanye.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye intebe, ameza, ibirahure, imiheha ndetse n'ibinyobwa bitandukanye, hakaba harimo na televiziyo nini ya fulati ndetse hakaba hagaragaramo n'abantu baje gufata serivise zitandukanye zitangwa muri ako kabari.

Icyapa kifashishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho umuntu afata telefone agashyiraho agasikana, akareba ibicuruzwa by'icyo kigo, ndetse akareba n'igiciro cy'ibicuruzwa, uko ashobora kwishyura yifashishije telefone ye.

Abantu babiri bari mu kabari akaba ari abagore babiri bicaye kurri kontwari imbere yaho hakaba hari ibinyobwa bitandukanye ndetse bakaba barimo baranareba tereviziyo.

Umuntu wambaye ishati y'umweru, imbere yiwe hakaba hari aka etajeri karimo ibinyobwa bitandukanye, harimo ibinyobwa bisindisha ndetse n'ibinyobwa bidasindisha, akaba arimo arabishyira ku murongo kugira ngo amenye uko bikurikirana.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe, harimo etajeri, harimo n'umuntu uhagaze witeguye gutanga serivise ku bari buze bamugana, hakaba harimo ibinyobwa bitandukanye ibisindisha n'ibidasindisha ndetse n'ibindi bikoresho birimo za firigo.

Akabari gafite mo imbere ndetse kakagira no hanze hagaragara inebe zitandukanye nziza n'ameza, hakaba hari abantu batandukanye baje kwiyakira mu kabari aho batangira serivise zitandukanye zirimo ibyo kurya n'ibyo kunywa ku bantu baje bahagana

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara akaba ari urutonde rw'inzoga zitandukanye hakaba hagaragara na buri giciro cya buri nzoga yashyizwe kuri uru rupapuro.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye intebe, ameza, etajeri ndetse na firigo hakaba harimo n'ibinyobwa bitandukanye, hakaba harimo n'abantu barimo kwakira abantu baje babagana bakeneye serivise zirimo ibyo kunywa ndetse nibyo kurya baje babagana.

Icupa ry'icyatsi ry'inzoga yitwa Amusiteri kuruhande hari ikirahure nacyo kirimo inzoga ndetse haragaragara n'umuntu uhagaze hagaragara na tereviziyo ebyiri nini za furati ndetse n'ishakoshi iteretse ku meza ahangaha hakaba ari mu kabari aho abantu asohokera bagiye gufata icyo kunywa ndetse nicyo kurya.

Inzu zitandukanye z'ubucuruzi, imodoka ziparitse, ndetse hari umutaka wa MTN hari n'icyapa kiriho icupa rya mitsingi aha ngaha hakaba hagaragaza yuko hafi aho ngaho akabari aho abantu bakunze gusohokera bagafate icyo kunywa ndetse n'icyo kurya.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye; intebe ndetse n'ameza, hakaba harimo na etajeri, hakaba hariho ibirahure ndetse n'amacupa arimo ibyo kunywa, hakaba harimo umuntu urimo gutanga ibyo kunywa, hakaba hari n'abantu baje mu kabari kwiyakira kugira ngo babahe ibyo kunywa n'ibyo kurya.

Akabari karimo inzoga zitandukanye hamwe n'umuntu utegereje abakiliya baza bamusanga.

Urupapuro ruriho ibicuruzwa bitandukanye rukaba rwifashishwa mu ma hoteri, mu ma resitora n'ahandi hantu hatandukanye. Haba hariho ibintu ndetse n'igiciro cya buri kintu kuri urwo rupapuro hanyuma umukiriya akamenya amafaranga agomba kwishyura kuri buri gicuruzwa.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe, ameza ndetse haranagaragara na televiziyo hakaba harimo ibinyobwa by'ubwoko bwose butandukanye, hakaba harimo abakiriya ndetse hakaba harimo n'abakozi bashinzwe kwakira abakiriya baza babagana kugira ngo babagezeho ibyo babasabye birimo ibyo kunywa nibyo kurya.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho Emutiyeni gatanga serivisi zitandukanye, harimo kubitsa, kubikura, kohereza, kugura amayinite ndetse no kugurisha amayinite. Mo imbere hakaba hahagazemo umugabo ufite bike mu ntoki cyangwa se ikaramu mu ntoki. Imbere hakaba hari n'amakayi cyangwa se impapuro.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye, intebe ameza, hamwe n'ubwoko bw'inzoga zitandukanye ziri mu kabari.

Icupa ry'inzoga ya rikeri ndetse n'ibirahure bishyirwamo inzoga, hakaba hari abantu bagaragara bafashe telefone mu ntoki, aha ngaha akaba ari mu kabari harimo ibikoresho bitandukanye, birimo intebe n'ameza aho abantu basohokera baje kwiyakira.

Hari abantu batanu bicaye kumeza, imbere yabo hakaba hateretse ibinyobwa bitandukanye, inyuma yabo hari umuntu wicaye umwe, iruhande rw'umuryango hari n'abandi batatu bahagaze.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye intebe, ameza, televiziyo n'inzoga zitandukanye zo mu kabari.

Umuntu wambaye ishati y'umukara akaba yambaye ni taburiya, akaba afashe ijage mu ntoki, ndetse inyuma yiwe hakaba hari inyobwa bitandukanye, ahangagaha bakaba bagaragaza aho umuntu ashaka gusohokera akabasha gufata ikinyobwa yifuza gitandukanye.

Ikibaho cy'umukara cyandikishijweho ingwa y'umweru, hakaba hariho urutonde rw'ibintu bitangwa buri munsi. Iki kikaba cyifashishwa kugirango hamenyekane ibicuruzwa bitandukanye abakiriya baza bahagana kugirango babashe kugura.

Icyapa kimanitse hejuru kiri mu mabara y'umweru, umutuku n'umukara, cyerekana ko aho munsi hari akabari ndetse munsi yacyo hakaba hari imiryango y'akabari.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye, intebe, ameza ndetse n'abantu batandukanye baje kuyakiriramo.

Aha hari umuntu uhagaze imbere y'icyapa cya mitsingi cyamamaza yuko aho hafi hari akabari, ndetse ku ruhande hari umutaka wa Emutiyene haka n'amazu atandukanye y'ubucuruzi n'imodoka ziparitse inyuma y'icyapa .

Urupapuro ruriho amafoto y'ibinyobwa bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo rukaba rukoreshwa n'amahoteri, amaresitora n'amaduka atandukanye mu gihe bashaka kuruhereza umukiriya ngo amenye ibyo bacuruza ndetse n'igiciro cyabyo.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye intebe ameza ndetse hakaba harimo n'ibinyobwa bitandukanye, ahangaha abantu bakaba bahasohokera baje gufata icyo kunkwa n'icyo kurya hanyuma barangiza bakishyura icyo bamaze gufata.

Urupapuro rw'umukara amagambo akaba yandikishije umweru ndetse haragaragara n'imibare yanditswe mu ibara ry'umutuku, hakaba hariho urutonde rw'ibintu bitandukanye bicuruzwa, haba mu kabari ndetse no mu mahoteri hakaba hagaragara n'igiciro cyabyo urunguruka rukaba ruhererezwa umukiririya kugira ngo amenye ibyo agomba kwishyura n'igiciro cyabyo.

Ibiganza bifashe imashini idufasha kwishyura ibicuruzwa bitandukanye ,ndetse n'ikarita twifashisha aho umukiriya ajya mu iduka ,agahaha ibintu byose akeneye hanyuma yajya kwishyura akifashisha ikarita akayishyira kuri ino mashini, amafaranga akajya ku kigo yahashyemo ibyo bicuruzwa.

Umuntu uri mu kabari urimo kwakira umukiriya amugezaho ibyo yifuza byose bitandukanye.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye, intebe, ameza, furigo ndetse na etajeri, hakaba harimo n'ibinyobwa bitandukanye, hakaba hagaragaramo abantu bakira ababagana ndetse n'abantu baje kwiyakira bashaka ibyo kunywa n'ibyo kurya.

Abari karimo ibikoresho bitandukanye intebe ndetse na etajeri, hakaba harimo n'ibinyobwa bitandukanye hakaba harimo n'abantu batandukanye, baje kwiyakira, ahangaha hakaba hatangirwa serivise zo kubna ibinyobwa ndetse n'ibyo kurya ku bantu bahasohokeye.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye: intebe, ameza ndetse harimo n' ibinyobwa bitandukanye. Imbere yaho hari ubusitani bunini hakaba hahagazemo abantu, baje gufata serivisi zitandukanye zirimo: ibyo kunywa n' ibyo kurya bitangirwa mu kabari.

Aha ni mu kabari aho abantu basohokera bakicara bakaganira hanyuma bagafata ibyo kunywa bitandukanye, yaba ari ibisindisha cyangwa se ibidasindisha, haragaragaramo abantu bicaye baje kwiyakira, Haragaragaramo na Tereviziyo ndetse n'ibikoresho bitandukanye.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye, intebe ndetse n'ameza ndetse haragaragara na za mudasobwa, hagaragara n'abantu, kagaragaramo n'inzoga zitandukanye z'ubwoko bwose, aha ngaha akaba ari ahantu abantu bashobora gusohokera bashaka icyo kunywa cyangwa se icyo kurya.

Akabati karimo ibikoresho bitandukanye: intebe, ameza, firigo. Ku meza hakaba hari agatambaro kariho ifurosheti ndetse n'icyuma, hakaba hari n'umuntu ugaragaramo, uhagaze.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye intebe, ameza ndetse n'ibinyobwa bitandukanye hakaba hari n'abakiriya babiri bicaye bari gufata icyo kunywa, imbere yabo hakaba hari Televiziyo.

Abantu babiri, harimo umugore ndetse n'umwana bakaba bicaye ku meza, aho bicaye hakaba ari mu kabari, bakaba bategereje serivisi zose zitangwa mu kabari, zirimo kugezaho abantu ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Ibiti inyuma y'ibiti hari amazu abiri manini agerekeranye imbere hari amazu mato hariho ibyapa byinshi icyapa cya amusiteri icyapa cya sikoru icupa rya sikoru icyapa cya resitora na bare amabati,

Aka ni akabari karimo ibikoresho bitandukanye intebe ndetse n'ameza haragaragara ikirahure giteretse ku meza kirimo inzoga cyanditseho Amstel imbere hari etajeri irimo ibinyobwa bitandukanye irimo amazi ndetse n'izindi nzoga z'ubwoko zose butandukanye.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye bicuruzwa hakaba hari inzoga zigaragara mu makaziye ndetse hakaba hari na etajeri irimo inzoga zitandukanye, harimo n'amaji, harimo za rikeri. Ibi akaba ari ibicuruzwa bitangwa kubakiriya bakeneye ibyo kunywa.

Akabari karimo umukozi ushinzwe gutanga serivise zose zigenewe abakiliya bahagana, hakaba hariho ikirahure kirimo inzoga, ndetse hakaba hariho amacupa abiri ya purimusi hakaba hagaragara ibyapa bibiri icya emutiyene ndetse n'icya eyateli, biriho kode bishyuriraho.

Ibinyobwa byo mu kabari bitandukanye bigaragara hano, birimo mitsingi, pirimusi, turubo ndetse na zarikeli zitandukanye.

Aka ni kabari karimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe, ameza, etajeri hakaba harimo na firigo ndetse muri firigo turabonamo ibinyobwa birimo bitandukanye ari ibisindisha ndetse n'ibidasindisha.

Abantu beza bari mu kazi umwe wambaye umupira w'umweru, hirya gato hari umwari usa nkaho nawe ari kureba muri mudasobwa afite ibintu ari gushaka, imbere hari undi musore ubonako ari gutora mu igiseke byamushimishije cyane.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye: intebe, ameza ndetse na etajeri ndetse haragaragara n'inzoga zitandukanye ziteretse muri etajeri, hari n'umuntu uhahagaze, aha ngaha akaba ari abantu basohokera igihe cyose bashaka icyo kunywa cyangwa se bashaka icyo kurya.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe, ameza, firigo ibinyobwa bitandukanye ndetse harimo n'umuntu uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'igitenge, ukeneye serivisi.

akabari karimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe ndetse n'ibinyobwa bitandukanye hakaba hari terevisiyo ebyiri za flat zimanitse hakaba harimo n'abantu ndetse barimo baratanga serivise mu kabari aha ngaha hakaba ari ahantu baza kwiyakirira bafata ibyo kunkwa.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye, harimo ameza ndetse n'intebe ndetse na firigo, hakaba harimo n'ibinyobwa bitandukanye muri etejeri, hakaba hagaragaramo na tererviziyo ya furati, irikwerekana amashusho, ahangaha hakaba ari ahantu abantu bakunda gusokera baje gufata icyo kurya ndetse n'icyo kunywa.

Akabari karimo ibinyobwa bitandukanye muri etajeri, ndetse n'umuntu wambaye ingofero mu mutwe n'ishati y'umweru, akaba afite telefone, telefone dukoresha twifashisha mu guhamagara ndetse no kwitaba abaduhamagara, ndetse tukanayikoresha twishyura ibicuruzwa twafashe ahantu runaka.

Amazu menshi atondetse ku murongo, hejuru y'ayo mazu hakaba hagaragara icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, cyanditseho ijambo Amaster ndetse na Bahamas, akaba ari ikigaragaza yuko ari icyapa kiriho akabari hafi aho ngaho.

Urupapuro ruriho ibinyobwa bitandukanye ndetse namafaranga ya buri kinyobwa.

Abantu baje mu kabari bicaye ku meza atandukanye, ndetse hakaba hagararara n'amatara atandukanye, arimo kwaka mu ibara ry'umuhondo, inyuma y'abantu hakaba hagaragara amacupa atandukanye y'ibyo kunywa.

Amabara menshi atandukanye; umutuku, umukara, ubururu, iroze, icyatsi, tereviziyo, amatara, amacupa, ibirahure, ameza harijimye wagira ngo ni mu kabyiniro.

Akabari karimo ibicuruzwa bitandukanye birimo inzoga ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye, hakaba harimo umuntu urimo guha serivise abantu baje bahagana, hakaba hagaragara na televiziyo ya furati, aha hakaba ari ahantu bakunda kuza kwiyakirira bashaka icyo kunywa n'icyo kurya.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye, ameza, intebe ndetse na etajeri, ndetse hakaba harimo n'ibinyobwa bitandukanye, ari ibisindisha ndetse n'ibidasindisha, hakaba harimo abantu batandukanye, aha akaba ari ahantu heza wasohokera mu gihe ukeneye icyo kunywa ndetse n'icyo kurya.

Inzu iriho icyapa cya Amusiteri, hariho icupa ry'inzoga ya Amusiteri, ndetse n'ikirahure cya Amusiteri, ahangaha hakaba hagaragara yuko ari akabari kitwa Daramuzi Runje, ahantu abantu bafata, bakajya kwiyakirira bagafata icyo kunywa n'icyo kurya, hanyuma bakicara bakaganira.

Urupapuro rw'umukara ruriho amagambo yandikishije umweru ndetse harimo uturango dusa oranje kuri urwo rupapuro hakaba hariho urutonde rw'ibintu bicuruzwa ibi bakaba babikora kugirango bagaragaze ibintu bicururizwa mu kabari ndetse nahandi bagaragaza n'igiciro cya buri kintu.

Icyapa kirimo umuntu ufashe icupa ndetse haragaraho n'ikirahure cya Virunga n'icupa ry'inzoga ya Virunga hakaba hagaragara y'uko ari icyapa cyashyiriweho Akabari aho abantu bajya kwiyakirira bafata ibyo kunywa nibyo kurya.

Akabari karimo abantu babiri nibinyobwa byo kunkwa, umwe akaba ari umukozi undi akaba ari umukiriya uje kumusaba ibinyobwa

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe, ameza etageri ndetse hakaba harimo na firigo, hakagaramo n'ibinyobwa bitandukanye tubasha gufata aha ngaha hakaba hari abantu bakunze gusohokera kugira ngo bafate icyo kurya ndetse n'icyo kunywa.

Urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hakaba hagaragara urutonde rw'ibintu bitandukanye, biribwa, akenshi bakunze kurutegura ku meza, mu gihe umuntu agiye kwiyakirira, mu kabari, muri hoteli, n'ahandi hantu hatandukanye.

Akabari karimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe ,ameza ,etageri ndetse na firigo, kahagarariwe n'umuntu, witeguye kwakira abaza bamugana ndetse n'ibinyobwa bitandukanye bitangirwa muri aka kabari ,hano niho abantu bakunze kuza bashaka gufata icyo kunywa ndetse n'icyo kurya.

Iyi ni ifoto y'ibirahure biteguye neza biri mu kabari, hamwe numutu ufashe icyo twita meni cyangwa se igitabo kirimo ibinyobwa akabari gucuruza.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, hakaba hariho ikirahure cya Amster ndetse n'icupa rya Amster, kikaba ari icyapa kigaragaza yuko aho hantu hari akabari kitwa Atlas, aho abantu basohokera bagiye kwiyakira kugira ngo bafate ibyo kunywa n'ibyo kurya bitandukanye.

Ameza ateguyeho ikirahure kirimo inzoga ndetse, n'amacupa arimo inzoga yitwa amusiteri aho abantu, akaba ari mu kabari aho abantu baza kwiyakirira bagafata icyo kurya ndetse n'icyo kunywa hanyuma bakishyura ibyo bamaze gufata.

Igipapuro kiriho ibicuruzwa bitandukanye ndetse na buri giciro cya buri gicuruzwa, kikaba kifashishwa mu mahoteli, mu maresitora ndetse no mu tubari. Aho bagihereza umukiriya kugirango amenye ibyo bacuruza ndetse n'igiciro cyabyo.

Urupapuro ruriho amazina atandukanye y'inzoga ndetse n'igiciro cyazo, uru rukaba rwifashishwa mu mahoteli, mu maresitora, ndetse no mu tubari, aho baruhereza umukiriya kugira ngo amenye inzoga ashaka, n'igiciro shaka, hanyuma abone uko yishyura.

Icyapa cy'umukara twifashisha mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho umuntu afata telefoni agasikana, akareba ibicuruzwa bitandukanye bicuruzwa muri icyo kigo, ndetse akamenya n'igiciro cyabyo, igihe cyose yaba amaze guhaha, agasikana, akareba amafaranga yose agomba kuba yakwishyura icyo kigo.

Inzu y'igorofa igeretse gatatu muri buri gorofa kuva ku yambere kugera kuri gatatu hakaba harimo abantu ikaba iri mu mabara atandukanye ubururu, icyatsi ndetse n'umweru imbere hakaba hagaragara televiziyo ya furati nini.

Icyapa kifashishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga aho umuntu ufite telefone ngendanwa, abasha gusikaninga akareba ibicuruzwa ikigo runaka gifite, ndetse akamenya n'amafaranga y'inyo bicuruzwa hanyuma mu gihe amaze guhaha akamenya ibyo yishyura ibyo aribyo ndetse n'amafaranga ari bwishyure.

Umuntu uhagaze wambaye agapira k'umukara akaba afashe icupa mu ntoki, hakaba hagaragara ibikoresho bitandukanye birimo ameza, intebe, ndetse hakagaragara n'abantu batandukanye, ahangaha akaba ari mu kabari aho abantu bagenda bagafata icyo bakeneye harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa hanyuma bakishima.

Icyapa kifashisha mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho umukiriya cyangwa se umuguzi aba afite terefone hanyuma agasikaninga, hanyuma yarangiza akamwereka ibicuruzwa bicuruzwa aho hantu, akamwereka n'igiciro cyabyo, hanyuma agahaha yamara guhaha akongera agasikaninga akabasha kumenya amafaranga agomba kwishyura, hanyuma akishyura akoresheje telefone ngendanwa.

Ibirahure biteretse ku meza birimo ibinyobwa btandukanye n'icupa ry'inzoga ndetse no ku ruhande hari amacupa atandukanye y'inzoga zitandukanye ahangaha akaba ari mu kabari aho abantu baza kwiyakirira no gufatira ibyo kunywa bitandukanye.

Akabari karimo abantu harimo abahagaze, harimo ndetse n'abicaye, hakagaragaramo intebe, hakagaragaramo ibinyobwa bitandukanye ndetse iruhande rw'abantu bahagaze hari n'amafirigo arimo ibyo kunywa.

Abantu batatu bicaye ku meza ariko ibyo kurya bitandukanye n'ibyo kunywa, hakaba hari n'umukozi uhagaze iruhande rwabo wambaye umupira usa oranje urimo kubaha ibyo kurya, n'inyuma yaho hakaba hari umukozi urimo gutegura ibigendanye n'ibyo kurya.

Amacupa atandukanye y'inzoga ari izisindisha ndetse n'izidasindisha akaba ateretse ku meza ndetse hagaragara n'intebe nyinshi zitandukanye, hagaragaramo abantu batandukanye baje kwiyakira ahangaha akaba ari mu kabari aho abantu basohoke igihe bakeneye icyo kunywa n'icyo kurya.

Icapa k'ikigo kitwa sikoro kirimo kwamamaza inzoga ya sikoro mariti, kiriho amafoto abantu babiri, kikaba ari icyapa kigaragaza ko hafi aho ngaho hari akabari runaka gatanga ibinyobwa bitandukanye.

Aha ni mu kabari, akaba ari ahantu akenshi abantu bakunze gusohokera, mu gihe bashaka icyo kunywa cyangwa se icyo kurya, bakaba bicaye, baganira, bari kugifata, barangiza noneho, bakishyura ibyo bamaze gufata.

Umuhanda w'amabuye urimo moto ndetse n' umumotari uhetse umugenzi. Ukagaragaramo igare riparitse imbere y' muryango ndetse n' imodoka iparitse ku ruhande. Hariho n' icyapa hejuru kigaragaza yuko aho hantu hari akabari.

Ibyapa bitandukanye harimo icyapa kimwe kinini cya ekinogisi bare, kiranga ko akabari ka ekinogisi aho abantu basohokera bagiye gufata icyo kunywa ndetse nicyo kurya hakaza n'ikindi cyapa gitoya cyanditseho karikeya shopu, kigaragaza ko ar' iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye by'imodoka.

Agapapuro kariho ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'igiciro cyabyo, aka kakaba kifashishwa mu kugaragaza inyemezabwishyu, kakaba gatangwa mu maresitora ndetse n'amahoteli n'ahandi hantu hatandukanye umukiriya ajya mu gihe yaguze ibicuruzwa bakamuha bemeza yuko yishyuye.

Umugore wicaye mu iduka, imbere ye hateretse igikombe cy'amata, inyuma ye hakaba hari firigo irimo ibyo kunywa bitandukanye.

Umuntu wicaye ku ntebe y'umweru akaba afite akajerekani k'umweru, iruhande akaba agaragaza akari kuvoma amata ashyira mu ijage, hakaba hagaragara ko ari ahantu bashinzwe gutanga amata.

Icyuma gitunganya ndetse kikabika amata hamwe n'amata ari mu tujerekani dutandukanye.

Ijage y'ubururu iteretse kumeza ndetse n'umupfundikizo wayo hari etajeri y'umweru irimo ibintu bitandukanye, hari nindi etajeri y'ubururu irimo ibinyobwa birimo ji y'inyange hari n'umuntu uhagaze ufite telefone muntoki undi ahagararanye n'icyuma.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, hakaba hari n'imashini irimo amata, hakaba hari akajerekani gateretse munsi y'imashini, iyo mashini ikaba iri kuvamo amata, ashyira mu kajerekani, kuri iyo mashini handitseho Inyange Miliki Zone, akaba ari ikigo gitunganya ndetse kikaduha amata meza.

Iduka ririmo ibyansi, ibyansi bikoreshwa hashyirwamo amata, hakaba hari abantu babiri bateruye icyansi, bari gushyira mu mashini yabugenewe, inshinzwe kubika ndetse no gutunganya amata, akaza ari amata meza.

Indobo ziri mi ibara ry'umweru, izi ndobo zikaba zifashishwa dushyiramo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse n'ibintu bitandukanye, muri izi ndobo hakaba harimo amandazi na keke, tukaba tubirya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo ji na fanta Ndetse hakaba harimo na firigo n'intebe hakaba hari umuntu wicaye imbere ya etajeri ndetse hakaba nundi muntu utegereje kwakira ibyo kunywa.

Iparato y'umukara iteretse ku meza y'umweru, kuri iyo parato hariho amagi atatu, amagi dukunda kwifashisha duteka mu bintu bitandukanye, cyangwa tukayateka yonyine tukayarya, hakaba hariho n'agakombe k'umweru karimo ibirungo, twifashisha mu guteka mu biryo bitandukanye.

Umuntu urimo gusuka amata mu gikombe, hamwe n'icyapa kigaragaza ikigo gitegura amata.

Ikarito yamaz, i ikarito ya ji, umuntu uhagaze wambaye umupira utukura, icyuma cy'amata, indobo, ijerekani, ijagi, umupfundikizo w'ijagi, ameza, etajeri muri etajeri harimo amvilope harimo iparato.

Isahani y'umweru, iteretse ku meza, ikaba iriho keke, iruhandi hari indi keke itari mu isahani, hakaba hari udusashi dukoreshwa kugira ngo keke zishyirwe mu ifuru, hanyuma zitekwe.

Inzu yubakishijwe amakaro hasi, imbere hakaba haparitse igare, ndetse imbere hakaba hagaragara na moto ihetse icyansi ndetse n'akajerekani, ibikoresho byose bikoreshwa ndetse bikifashishwa mu gutegura no kubika amata

Akantu gateretse ku meza y'umweru, karimo uduti twifashishwa mu gukora isuku y'amenyo mu gihe cyose umuntu amaze gufata icyo kurya, kakaba gategurwa ahantu hatandukanye, haba muri resitora, muri hoteri ndetse no mu ngo.

Etajeri irimo amasahani, irimo ibisorori birimo keke ndetse na capati, hajuri hakaba nanateretseho teremusi, i ruhande hakaba firigo.

Umuntu urimo gufata ikinyobwa gikomoka ku mata cyitwa yawurute.

Urugi rusa ubururu ruriho icyapa cy'ikigo cyitwa Nyanza miriki indusitiri kiriho ifoto y'inka.

Isoko ricuruza ibyo kurya bitandukanye. Nk'aho batwetreka ibitok, abacuruzi bambaye imyenda isa.

Inzu irimo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse ku muryango w'iyo nzu haragaragara icyapa cyanditseho "Inyange milk zone", uru akaba ari uruganda mu by'ukuri rudutegurira ibinyobwa byiza birimo amata na za yawurute, ndetse na za ji, hanyuma rukabitugezaho.

Amandazi ahiye ameze neza akaba arambitse ku meza. Aya ngaya akaba akorwa mu ifarini ndetse akaba yotswa hakoreshejwe ifuru. Iyo amaze gushya akaba ajanwa ku maduka atandukanye harimo: resitora, amahoteri ndetse n'ahandi hatandukanye bacuruza.

Iyi ni ifoto y'ibinyobwa bidasindisha, birimo umutobe w'inyange, umutobe w'inanasi, ndetse n'umutobe wa maliti, ndetse n'amazi.

Abantu babiri umwe akaba yicaye undi akaba ahagaze, bakaba bari mw'iduka ririmo ibinyobwa bitandukanye. Harimo ji ndetse harimo n'ibiribwa bitandukanye, harimo keke n'amandazi na capati ndetse inyuma y'abo bantu hakaba hari icyuma cyateganyijwe gushyirwamo amata.

Ibi ni ibicuruzwa byo mu iduka hakaba hari imbuto, harimo umuneke, harimo inanasi, harimo wotameroni, harimo n'umwembe ndetse n'ironji.

Etageri isa umwe ikaba irimo amvelope twifashisha kugira ngo dupfunyikemo ibintu hakaba ari ni parato idufasha kugira ngo dushyireho ibintu, ndetse hejuru akaba ari n'indobo igaragara y'umweru idufasha mu gushyira ibintu bitandukanye, hagaragara na etajeri y'ubururu na none irimo ibinyobwa bitandukanye harimo amata, ndetse ha akagaramo na ji n'amazi hariho n'icyuma cyabugenewe gishinzwe gutegura ndetse kikanatunganya amata.

Isahane iriho udupapuro dukoreshwa mu guhanagura cyangwa mu gusukura twitwa seriviyete tukaba turi ku isahane, iyo sahane ikaba iteretse ku meza.

Iduka ririmo ibikoresho bitandukanye, intebe, ameza ndetse haragaragara na etageri irimo amajerekani meza y'umweru, hagaragara ibyo kurya bitandukanye byo mu ifarani, harimo imigati ndetse n'amandazi, hagaragarira n'imashini nziza yabugenewe kubikamo amata.

Isorori isa umwe ifite imikondo y'ubururu, mo imbere y'iyo sorori hakaba harimo capati, iruhande rwayo hakaba hari teremusi ebyiri, imwe isa ikigina n'umweru, indi ikaba isa umukara n'umweru byose bikaba biteretse ku meza.

Agakoresho kagenewe gushyirwamo amagi, hakaba harimo amagi agera mu icumi. Byose hamwe bikaba biteretse ku meza.

Icyuma cy'uruganda Nyanza mirike indasitirizi rushinzwe gutegura amata ndetse n'indi binyobwa, birimo za yahurute, hejuru y'icyuma hariho iparato irimo udupapuro dukoreshwa mu guhanagura ndetse hakaba hariko n'akandi gakoresho kagaragaza ubushyuhe bw'ikigero runaka ikinyobwa kimaze kugezaho.

Abantu babiri bambaye ingofero z'umweru ndetse n'amashati y'umweru inyuma yabo hakaba hari imashini itunganya amata ndetse hakaba hari abandi bantu bari inyuma bagaragara umwe yambaye umupira w'icyatsi undi yambaye ishati y'umweru. Uru akaba ari uruganda rwitwa inyange rutunganya amata.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ariko igicuruzwa kigaragara cyane ni amata. Harimo n'abantu baje mu iduka guhaha ibicuruzwa.

Isahani y'umweru iteretse ku meza ikaba iriho amandazi menshi akoze amaze kurangira, akaba akoze mu ifaraini. Iyo amaze kurangira akaba akurwa mu ruganda akajyanwa mu maduka atandukanye harimo ama resitora ndetse n'amaduka aciriritse.

Iparato y'umweru iteretse ku meza, ikaba iriho sambusa zikorwa mu ifarini, izi sambusa zikaba zotswa mu mavuta, iyo zirangiye zijyanwa mu mabutike atandukanye, harimo n'amaresitora, hanyuma umukiriya wese uyishaka, akaba yayihakura.

Umwana telefone mu ntoki twifashisha twishyura ibicuruzwa bitandukanye mu buryo bw'ikoranabuhanga, inyuma ye hakaba hari abantu na bo bafashe telefone, ku ruhande rw'umwana haragaragara icyansi akaba ari igikoresho gikoreshwa kugira ngo dushyiremo amata hanyuma tuyagemure mu maduka atandukanye.

Umuntu uri mu iduka imbere ye hakaba hateretse akajerekani karimo amata, ndetse hakaba hari abantu batatu baje gushaka ibicuruzwa, hakaba hagaragara ibicuruzwa bitandukanye by'amazi, bikorwa n'uruganda rwitwa inyange ndetse hakaba harimo icyapa kigaragaza kode umuntu ashobara keishyuriraho akoresheje telefone.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'umweru, bakaba bafite ibirahure birimo amata barimo kunywa, ameza akaba ateguye neza igitambaro kiriho akaba ari ubururu ndetse hakaba hariho n'amajage arimo amata.

Etaferi y'umweru irimo ibicuruzwa bitandukanye hajuru yayo, hateretse indobo eshatu harimo amandazi, keke ndetse n'imigati, hakaba hari abantu babiri bahagaze umwe yambaye amarinete undi afite aka jerekani mu ntoki, inyuma yabo hakaba harimo indinjerekani irimo utujetekani dupanze neza.

Umuntu, ibicuruzwa bitandukanye biri mu iduka n'ibikoresho bitandukanye, harimo igikoresho kibikwamo amata firigo, ameza y'intebe n'ibindi bitandukanye.

Isahani y'umweru iteretse ku meza ikaba iriho sambusa zikozwe neza mu nyama ndetse no mu ifarini. Izingizi zikaba zokerezwa mu ruganda cyangwa zikokerezwa mu rugo hanyuma zikajyanwa ku mabutike atandukanye ndetse zikajyanwa no mu maresitora hanyuma zigacuruzwa ku bakiriya bazifuya.

Amacupa y'amazi yo kunywa yitwa nile. Iruhande rwayo hari amakarito y'amazi.

Icyuma giteretse mu nzu, hejuru y'akabaho, iki cyuma kikaba kifashishwa mu kugira ngo kibikwemo amata ndetse kirusheho no kuyatunganya neza, kikaba gikoreshwa mu nganda ndets n'ahandi hantu hatandukanye, babasha gutanga amata.

Ikiganza gifashe ikarito iriho imbuto z'amatunda. Izi mbuto akaba ari izifashishwa mu gukoramo umutobe ndetse no gukoramo ibindi binyobwa bitandukanye, hanyuma bigashyikirizwa abakiriya babyifuza runaka.

Ikiganza gifashe keke ndetse haragaragara na seriveyete y'umweru idufasha mu buryo bw'isuku, iyi keke ikaba ikorwa mu ifarini ndetse igakorwa no mu mata, hanyuma ikaba ijyanwa ku maduka, hanyuma uyikeneye akaba yayigura akabasha kuyirya.

Ameza ariho indobo, ndetse na etajeri zirimo ibinyobwa bitandukanye, birimo mu makarito harimo n'amazi, ibi byose bikaba bikorwa n'uruganda inyange, akaba ari uruganda rutunganya amata ndetse n'ibindi binyobwa, bakabigeza ku bakiriya babikeneye.

Umuntu wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'ubururu akaba afashe icyatsi, akaba arimo arakoreshe umubirikira asuka amata mu kajerekani, iruhande rwe hakaba hari imashini ishinzwe kubika kuyatunganya ndetse ku ruhande hakaba hari umuntu uje umugana kugira ngo amuhe amata.

Akabido gasa umweru karimo amata, kuri ako kabido hakaba kariho agapapuro k'ikirango gakoreshwa n'ikigo gikora ibicuruzwa bitandukanye, haba ari mu mata ndetse n'ahandi hantu bagira ibicuruzwa bisabwa yuko bigurwa byujuje ubuziranenge.

Ameza ateretseho udukarito tubiri kamwe k'amajyani akandi k'ikawa, hakaba harimo n'ibinyobwa bitandukanye harimo anaji ndetse na twisite, hakaba harimo n'ibikoresho bitandukanye birimo na firigo.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye hakaba harimo ibikorwa mu ifarini harimo amandazi ndetse na keke, hakaba harimo n'ibinyobwa bitandukanye birimo ji ndetse n'amazi yo mu ikarito, ibyo byose bikorwa n'uruganda rwitwa inyange miliki indasitirizi.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye birimo ibinyobwa harimo; ji ndetse n'amata hakaba harimo abantu babiri, umwe akaba ari umucuruzi afite amafaranga mu ntoki, undi bikaba bigaragara ko ari umuguzi waje kugura.

Intebe ebyiri zisa kaki ndetse n'umukara n'ameza asa umukara n'umweru, iruhande hakaba hari igitambaro gishushanyijeho utujerekani twifashishwa bashyiramo amata, ndetse hakaba harimo n'udukombe dushyirwamo yawurute hamwe n'uducupa.

Umuntu uahagaze akaba afite ijage y'umweru irimo amata, iruhande rwe hari ameza y'umweru hateretseho ijage y'umweru hakaba hariho umubirikira w'ubururu ndetse n'umupfundikizo w'ubururu iruhande rwaho hakaba hagaragara imashini yagenewe kubikwamo amata.

Ameza ariho igitambaro cy'ubururu n'umweru. Hariho amandazi, keke, imigati; ibyo bikaba bitunganywa mu ifarini bitunganganyiriza mu nganda, ari uko babyokeje abantu bakaba babirya.

Igikoresho cyiza cyabugenewe giteretse ahantu heza cyagenewe gutegurirwamo amata. Amata tubasha kwifashisha mu buryo butandukanye, dukoramo ibinyobwa bitandukanye, tugakoramo ibiribwa bitandukanye ndetse ubwayo tukayanywa tukagira ubuzima bwiza.

Etajeri nziza y'umweru ndetse hakaba harimo amverope zidufasha gushyiramo ibintu ndetse hakaba hagaragara hejuru yayo inkongoro ebyiri twifashisha gushyiramo amata hanyuma tukayanywa, ifoto y'inka. Inka itugirira umumaro, iduha amata ndetse n'inyama zo kurya.

Ibiganza bibiri biteruye isahani y'umweru nziza, iteretse ku meza ndetse hakaba hariho amandazi ku isahani akorwa mu ifarini, akaba akorwa mu nganda ndetse no mu ngo, hanyuma agacuruzwa ahantu hatandukanye, muri resitora ndetse no mu maduka matoya aciriritse.

Ameza y'umweru ndetse hakagaragara n'ikiganza gifashe capati. Iki akaba ari ikiribwa gikorwa mu ifarini ndetse kigatekwa mu mavuta, akaba ari ikiribwa gishobora gukorwa mu rugo ndetse kigakorwa no mu maresitora no mu tubari n'ahantu hatandukanye hahurira abantu benshi, hanyuma kikaba cyaribwa, hanyuma ukiriye akumva afite ubuzima bwiza ndetse n'imbaraga.

Ibinyobwa bitandukanuye birimo imitobe, birimo amazi ndetse n'amata aha hakaba hari n'imashini ishinzwe gutunganya ndetse no kubika neza amata kugira ngo bayageze kubakiriya bayifuza.

Umuntu ufite ijerekani y'amata akaba ari gusuka mu birahure ibyo birahure bikaba biteretse ku maparato ndetse iruhande hakaba hari n'ijagi y'umweru nayo ikoreshwa mu kugira ngo ishyirwemo amata.

Iduka ririmo ibyo kunywa bitandukanye, harimo ji ndetse hakabamo n'amazi. Hakaba hagaragara ndetse n'icyuma cy'amata cya mukamira, uru akaba ari uruganda rushinzwe kubategurira amata meza hanyuma tukabasha kuyanywa tukarusha kugira ubuzima bwiza.

Amashashi abiri ya kaki ateretse ahantu ndetse n'amacupa y'amazi atandukanye. Amashashi akaba adufasha kugira ngo tubikemo ibintu twahashye ndetse amazi akaba adufasha kugira ngo tuyanywe hanyuma turusheho kugira ubuzima bwiza, tukayifashisha no mugutekesha ibintu bitandukanye.

Hari etajeri iriho igitambaro cy'ubururu, hejuru hakaba hariho isahani, hakaza abantu bafite ibirahure by'amata bibiri bikaba byegeranyiyijwe hamwe, munsi yaho hari ameza ateguyeho amasahani abiri ndetse isahane imwe ikaba iriho irindazi.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ufite isakoshi ndetse na telefone iruhande rwe hakaba hari icyapa kiriho icupa rya kokakola imbere ye hakaba hagaragara intebe y'ubururu ndetse n'icyapa gisa ubururu n'umweru.

Agasorori gapfundikishijwe umupfundikizo w'ubururu, kakaba gateretse ku meza hejuru y'agasorori hariho sambusa zikozwe mu nyama ndetse no mu ifarini zikaba zigemurwa mu maresitora atandukanye ndetse zikagemurwa no mu maduka menshi aciriritse.

Hari uburyo bwiza ushobora kuguriraho ibicuruzwa wifuza yaba imyambaro itandukanye iyo kujyana ahantu, iyo gutemberana n'ibindi byose bitandukanye.

Abantu babiri baje mu iduka kwiyakira hamwe n'umukozi urimo kubaha ibyo basabye.

Isahani y'umweru iteretse ku meza iriho keke ku ruhande hakaba hari indi keke, itari ku ku isahani hakagaragara n'utundi dusashi tubiri twifashishwa mu gihe bagiye gushyira keke cyangwa se iyo bagiye kuziteka.

Icyapa k'ikigo kitwa Nyanza miriki indasiritizi, kigaragara ibicuruzwa bitandukanye bicuruzwa n'icyo kigo, harimo amata yo mu ikarito, harimo yawurute, harimo n'amata yo mu tujerekani.

Ibicuba by'amata hakaba hari bimwe birimo amata hakaba harimo n'ibindi bitarimo amata, hakaba hagaragara umuntu uri ku ruhande urimo uragerageza gushyira amata mu bicuba.

Ibinyobwa bitandukanye hakaba harimo ikivuguto gifunze mu ikarito, hakagaragara na yawurute, hari ndetse n'utubido turimo amata. Ibi byose bikaba ari ibicuruzwa ushobora gucuruza ubigeza ku bantu kugirango barusheho kugira ubuzima bwiza.

Utureyi y'umutuku iteretse ku meza tukaba tuyifashisha mu kubika amagi, aya magi akaba aturuka ku nkoko akaba adufasha mu guteka ibintu bitandukanye harimo ndetse keke n'amandazi n'ibintu bitandukanye, hagaragara n'ishashi y'umweru irimo keke.

Ikirahure kirimo ibyo kunywa iruhande rw'ikirahure isahani y'umweru iriho ibyo kurya ndetse bikaba biteretse ku meza iruhande rwabyo hari udupapuro dukoreshwa mu isuku ndetse iriho umunyu n'andi masahani ariho ibiryo bitandukanye.

Ubujerekani butanu busa umweru bwose bupfundikiye, bukaba buteretse ku makaro hakaba hari n'akandi kajerekani gasa umuhondo gapfundikije umupfundikizo w'umutuku, iruhande hakaba hari igikoresho cyabugenwe gishyirwamo amata twita icyansi.

Icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yandikishijwe umweru ndetse n'icyatsi, hakaba hariho ibicuruzwa bitandukanye birimo amata ndetse biriho n'amazi, hariho na za yawurute, ibi byose bikaba bikorwa n'uruganda rwitwa Inyange Milk Zone.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hakaba hari ameza y'umweru, bakaba bafite ibirahure ndetse birimo amata, hakaba hagaragara umuntu uri mu iduka urimo kubaha serivise zijyanye no kubagezaho ibyo bakeneye, harimo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Icyapa kiriho umwana, ndetse cyamamaza amata y'ikigo cy'ubucuruzi cyitwa inyange.

Isambusa nyinshi zikoze neza, izi zikaba zitswa mu ifarini, aho zikorerwa mu ruganda, iyo zirangiye zikaba zijyanwa ahantu hatadukanya; haba mu maresitora, mu mahoteli, ndetse no mu maduka aciriritse, nyanyuma zikaza kugura n'abakiriya.

Intebe, ameza ndetse hakagaragara n'umuntu uhagaze ufite terefone mu ntoki. Iyi terefone ikaba idufasha mu buryo bw'ikoranabuhanga iyo turi kwishyura ibicuruzwa ndetse dushaka no kohereza abantu amafaranga batandukanye, tukaba tuyifashisha hanyuma tugakemura ibibazo bitandukanye.

Ameza adufasha gushyiraho ibintu ndetse hakaba n'intebe idufasha kwicaraho, hakaba hari umuntu uhagaze iruhande rw'ameza, hejuru yaho hari akajerekani k'umweru dushobora kwifashisha dushyiramo amazi meza ndetse tugashyiramo n'amata hanyuma tukayabika ameze neza.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'umweru ku meza hakaba hagaragara amajage abiri arimo amata ateretse neza ndetse buri muntu akaba afashe ikirahure kirimo amata ahangaha hakaba ari ahantu abantu bakunda kuza kwicara bari kwakira ibyo kunywa.

Haragaragara abantu babiri, umwe ari inyuma ya etajeri yambaye ipantaro y'ubururu, y'ikoboyi, yambaye n'umupira, mo imbere harimo umuntu wambaye ishati y'umweru na oranje, ufite akajerekani mu ntoki, etajeri ikaba arimo ibyo kurya bitandukanye, birimo imigati, ji n'ibindi bitandukanye byo kurya.

Etajeri iteretseho amata yo mu ikarito ndetse n'abantu bambaye imipira y'ubururu, hakaba hari icyapa cya Mukamira Dairy Limited, akaba ari ikigo gishinzwe gutegura no gutunganya amata akatugeraho ari meza.

Akazu gato, gasize irangi ry'ubururu, gafungishijwe n'ingufuri ebyiri, mo imbere muri ako kazu hakaba harimo ibicupa bitandatu by'amazi, ibicupa bikaba bishyirwamo amazi meza, kugira ngo tuyanywe, turusheho kugira ubuzima bwiza.

Itureyi enye ziriho amagi zisa icyatsi iruhande hakaba hari umuntu wambaye igisarubeti gisa oranje cyandikishijweho amagambo ari munyuguti z'umukara imbere yiwe hakaba hariho izindi tereyi ebyiri nazo ziriho amagi.

Ibi ni ibyansi biri mu nzu, bikaba bitondetse neza, ku murongo, ibi byansi bakaba byifashishwa mu kugira ngo babibikemo amata, cyagwa se bakabyifashisha kugira ngo bashyiremo amata yo kugenda bagemura ahantu hatandukanye bayabatumye.

Iduka ririmo ibikoresho bitandukanye harimo intebe zisa umukara ndetse na kaki, harimo ameza asa umweru ndetse haragaragaramo na etajeri irimo amajerekani y'umweru, harimo n'amacupa y'amazi hakagaragara n'igitambaro gishushanyijeho utujerekani tw'amata ndetse n'imashini yagenewe gutunganya amata.

Isahani iriho keke eshatu keke ebyiri zikaba ziri ku isani neza indi keke imwe, ikaba iri ku gapapuro kari hejuru y'isahani, isani ikaba iteretse ku meza.

Uducupa tw'umutuku hamwe n'udukombe bya yahurute, iruhande hakaba hari amacupa arimo amazi meza, hakagaragara n'imashini ku ruhande itegura ndetse igatunganya n'amata, ibi byose bikaba ari ibicuruzwa bicuruzwa mu maduka atandukanye.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye hakaba harimo n'icyuma kigaragara kibasha gutegura amata, imbere hakaba hari umuntu iki akaba ari ikigo cyitwa Mukamira aho kidufasha gutegura amata meza ndetse n'ibindi binyobwa abana bakunda birimo na za yawurute.

Etajeri iriho igitambaro cy'ubururu amagambo akaba yandikishijwe umweru, hakaba harimo amajerekani y'umweru adapfundikiye, tukaba tuyifashisha dushyiramo ibijyanye n'ibyo kunywa harimo amazi, amata n'ibindi binyobwa.

Etageri irimo ibicuruzwa bitandukanye. Bifunze mu tujerekani dufunze neza n' imipfundikizo y'umweru ndetse n'udukombe. Izi akaba ari yawurute zikorwa mu nganda. Zinyobwa n'abana cyane cyane ndetse n'abantu bakuru, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Imashini y'umweru ndetse n'ubururu akaba hariho ifoto y'inka, ikaba igaragaza ikigo kitwa nyanza miliki indasitirizi, gishinzwe gutegura amata kikayatugezaho ameze neza, kikaba gitegura n'ibindi binyobwa bitandukanye birimo na yawurute.

Ameza ateguye neza akaba ariho ibirahuri bibiri, ndetse birimo amata aragaragara ndetse n'akajerekani k'umweru twifashisha mu kubika amata mu buryo bwiza, hagaragara n'intebe nziza y'umweru, idufasha kwakira mu gihe abantu baje batugana, hanyuma bakanywa amata bicaye neza.

Epesheri y'umukara iri mu nzu irimo utujerekani tw'umweru dupanze mu byiciro bine ibyiciro bitatu akaba ari ibyiciro binini ikindi cyiciro kimwe akaba ari icyiciro gitoya.

Akabido k'umweru gateretse karimo amata, hakaba hariho igipapuro kigaragaza ikigo cyateguye ayo mata; ndetse kakaba gafunze neza, kiteguye kujyanwa ahantu hatandukanye kugira ngo gacuruzwe.

Abantu babiri umwe akaba ahagaze imbere yambaye inkweto z'umweru, ikabutura y' iroza, umupira w'umweru, akaba afite telefone mu ntoki, undi akaba ahagaze iruhande rw'i jage yambaye ishati ya kaki.

Inzu irimo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba hamanitseho icyapa cy'uruganda Inyange milkzone, rutegura amata meza, imbere y'iyo nzu hakaba hari ameza ndetse n'intebe byo kwicaraho mu gihe umuntu hari icyo ashaka gufata, kijyanye n'icyo kurya cyangwa icyo kunywa.

Abantu babiri bicaye buri umwe akaba afite ikirahure cy'amata ndetse na keke mu ntoki hakaba hari ameza ariho amasahani abiri ndetse n'utujerekani tubiri tw'umweru n'ijage hakaba hari n'umuntu uhagaze wambaye umupira w'umweru na oranje urimo urabahereza ibyo kurya.

Indobo ebyiri zisa umweru, ziteretse ku meza, imwe ikaba irimo keke, izi keke zikaba zikorwa mu nganda, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, hanyuma zigafatwa, zikajyanwa ku maduka atandukanye, zigacuruzwa, hanyuma umukiriya ufite amafaranga, uyishaka akayibona.

Etajeri isa umweru n'ubururu hakaba harimo ibyo kunywa bitandukanye harimo amazi ndetse na fanta ndetse na jus hakaba harimo n'ibyo kurya bitandukanye birimo imineke ndetse hakabamo amandazi hakabamo na capati hariho ndetse n'umuntu uhagaze wambaye ikanzu y'ubururu akaba yiteze igitambaro mu mutwe cy'umweru ahetse n'isakoshi y'umukara.

Kode yifashishwa mu kwishyura amafaranga mu buryo bwa telefone ngendanwa, hishyurwa ikigo cya Rosy all season trade.

Abakozi babiri ba MTN Mobile Money, barimo gusobanurira umukiriya, waje bagana kuri serivisi batanga zitandukanye, zijyendanye na MTN Mobille Money.

Umuntu ugiye kwishyura akoresheje itumanaho ry'ikoranabuhanga rya MTN mobile money.

Umuntu wicaye, akaba afite agakapu gasa umukara, intoki z'iwe zikaba zifashe telefone, telefone twifashisha mu gihe turi kwishyura ibicuruzwa, cyangwa se tukayikoresha igihe duhamagara, no mu gihe twitaba abaduhamagaye.

Akazu ka mtn hakaba hahagaze abantu batandukanye bambaye imipira iri mu mabara aranga mtn, ikigo gishinzwe itumanaho kigurisha za terefoni ndetse kigafasha n'abantu mu kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga hifashijijwe terefoni ngendanwa.

Abantu bane babiri barahagaze umwe ari mu imbere ya etajeri undi umwe yicaye ku ntebe iruhande rwe hari intebe iticayemo umuntu, hejuru hari icyapa kigaragaramo umuntu ndetse n'indege.

Aba agent batatu ba MTN barimo gufasha umukiriya ku bigendanye na serivisi za terefone, ndetse n'iruhande hari abandi bagenti barimo gufasha nanone umu client.

Abantu babiri bahagaze imbere y'akazu ka emutiyene, umwe ni umukozi wa emutiyene, undi akaba ari umukiliya, bikaba bigaragara ko umukozi wa emutiyene arimo arafasha umukiliya amuha serivisi emutiyene itanga.

Kode ya emutiyene mobayilo mane, yifashishwa mu kwishyura amafaranga, hakoreshejwe telefone ngendanwa.

Abakozi babiri ba Emutiyene, hamwe n'umukiriya waje ubagana, umukozi umwe wa Emutiyene akaba ari gukoresha tombora uwo mukiriya.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kariho ibirango bitandukanye bya MTN, mo imbere hakaba harimo umuntu urimo gutanga serivisi zose zitangwa muri iki kigo cyitwa MTN, hakahagaragara umuntu waje kuzisaba, aho twavuga batanga gushyira simukadi ku murongo ndetse no kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga hakoreshejwe terefone.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo. Kariho amagambo yandikishijwe umukara, hakaba harimo umuntu mo imbere; akaba agaragara ko ari umukukozi, wo gutanga serivisi zitandukanye. Imbere hakaba hari abantu baje bamugana bakeneye serivisi zitandukanye zitangwa n'ikigo cya Emutiyene.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo, akaba hariho ibirango bya emutiyeni, umuntu ufashe telefone ndetse na telefone, mo imbere muri ako kazu hakaba harimo umuntu ushinzwe gutanga serivise z'ikigo cya emutiyeni, aho gitanga serivise zirimo itumanaho, gutanga telefone ndetse no kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abantu bane bambaye imyenda yiganjemo umuhondo ndetse hakaba hariho n'ikirango cya emutiyeni, ahangaha bakaba bari kwekana serivisi zose zitangwa n'ikigo cya emutiyeni, zirimo gutanga simukadi, zirimo gutanga amakarita ndetse zirimo n'uburyo bukoreshwa mu ikoranabuhanga bwo kubitsa no kubikuza amafaranga.

Umumotari uhetse agasanduku inyuma kanditseho amagambo Rush Foods akaba ahagararanye n'uwo twita umwajenti udufasha mu gihe dukeneye amafaranga kuyabikuza haba kuri telefone ndetse iki kigo kiitwa Rush Foods akaba ari ikigo gikora ubucuruzi, muri rusange kikaba gitwara ibintu kibigeza ku bakiriya batavuye aho bari.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye hakaba harimo n'abantu batandukanye bafite za telefone mu ntoki, hakaba hari n'icyapa cya MTN kiriho code yo kwishyiriraho, ikigo gifasha abantu mu bijyanye n'itumanaho, kigatanga ndetse kikanagurisha telefoni ndetse kikabitsa kikanabikuza amafaranga mu buryo bwa telefoni ngendanwa.

Iyi ni ifoto y'abakozi ba emutiyeni, abo twita aba ajenti, bari mu kazu, bafasha abakiriya baje babagana kuri serivise zitandukanye bashaka.

Aha hari umutaka wa emutiyeni, ndetse hirya hakaba umutaka wa tekino, umutaka wa emutiyeni baratwereka abantu batandukanye baje gusaba serivise zitandukanye emutiyeni ihereza abakiriya bayo.

Abantu bane abamotari babiri n'abagenzi babiri abagenzi babiri bafashe terefone mu ntoki inyuma haragaragara icyapa ndetse hakagaragara n'urutoki hamwe n'ibihuru.

Kode yifashishwa barimo kwishyura ibicuruzwa, bahahiye mukigo kitwa inuma tekinoloji

Inzu iri mu mabara y'umuhondo, ndetse inyuguti zikaba zandikishijwe mw'ibara ry'umukara. Hakaba hagaragara abantu batandukanye kuriyo nzu, akaba ar'inzu ya mtn. Hakaba hari abantu baje gusaba serivise za mtn zitandukanye.

Iduka rya emitsiyene hakaba harimo umukozi wa emutsiyene imbere ye hateretse imashini, hari n'umukiriya uri imbere ye witegura kwakira serivise zose emutsiyene, ziromo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga, ndetse harimo no gusahyira simukadi ku murongo.

Akazu ka Emutiyene kari mu ibara ry'umuhondo, karimo umuntu ushinzwe gutanga serivisi. Imbere y'iwe hakaba hari abantu bari gusaba serivisi z'icyo kigo cyitwa Emutiyeni zirimo: kwitaba ndeteseno guhamagara ndetse no kubitsa no kubikuza mafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Aba ni abakozi ba Emutiyene, abo twita aba ajenti. Barimo gufasha abakiriya babaha serivise zitandukanye za Emutiyene.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bakaba bari munsi y'umutaka usa umuhondo, ukaba ari umutaka akenshi ukunze kugaragara ko ari umutaka wa emutiyeni, emutiyeni akaba ari ikigo gishinzwe gutanga itumanaho, kikaba gitanga serivisi zitandukanye zirimo kubitsa amafaranga ndetse no kuyabikuza.

Abantu babiri umwe akaba yambaye umupira w'umuhondo wanditseho amagambo ya momo ndetse undi akaba afashe telefone mu ntoki, telefone twifashisha mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho tubitsa amafaranga ndetse tukanayabikuza twifashishije telefone, ibyo byose bikaba tubigezweho n'ikigo cyitwa MTN.

Icyapa cy'umuhondo kikaba kimanitse ku gikuta. Ku cyapa hariho amagambo yandikishijwe umukara ndeste n' imibare yanditswe mu ibara ry'umukara n'umutuku. Iyi mibare akaba ari kode ikoreshwa hagiye kwishyurwa ibicuruzwa runaka, bakoresheje terefone ngendanwa.

Umuntu wicaye akaba afite agakapu k'umukara, akaba afite na telefoni mu ntoki twifashisha duhamagara ndetse twitaba abaduhamagaye, tukanayikoresha twishyura ibicuruzwa byose tuba twahashye mu buryo bw'ikoranabuhanga, hakaba hagaragara n'undi muntu ku ruhande bambaye inkweto za shokora ndetse na raronje.

Ni abantu babiri barimo umukozi wa emutiyene kampani hamwe ndetse n'umukiriya waje amugana.

Akazu karimo abantu imbere hari za mudasobwa, hakaba hari n'icupa ry'amazi hejuru y'akazu hari ibyapa, icyapa cy' irembo, icyapa cya ekwiti, ndetse n'icyapa cya beka, ibi akaba ari ibigo by'imari ndetse n'ubucuruzi.

Ni abantu babiri bari imbere ya kamera bishimiye serivise nziza za emutiyene.

Abantu babiri, umwe akaba yambaye umupira w'umuhondo uri mu kirango cya emuteyeni, undi akaba ari umukiriya bakaba bari mu kabari, bikaba bigaragara ko umukiriya afashe terefone arimo kuyikoresha kugira ngo yishyure ibicuruzwa bitandukanye yafashe mu kabari.

Akazu gasize irange ry'umuhondo hakaba hahagaze abantu baje gusaba serivise za eyateri ndetse na emutiyeni ibi akaba ari ibigo bifasha abakiriya babyo kubagezaho telefone zitandukanye ndetse no kubafasha muri serivise zitandukanye zo kubitsa no kubikura amafaranga.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo cyanditseho MTN, kigaragaza ko ari gahunda yo gutombora, iruhande hakaba hari abantu bambaye imipira ya MTN. Iki kigo kikaba kidufasha muri serivise zitandukanye, harimo izo guhamagara ndetse no kwitaba ndetse kikadufasha no kubitsa no kubikuza amafaranga ku buryo butandukanye.

Akazu ka emutiyene kari mu mabara y'umuhondo mu imbere mu kazu harimo umuntu inyuma y'akazu, hari undi muntu uje kwaka serivise zose zitangwa na emutiyene zirimo gushyira simukadi ku murongo, zirimo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga kuri terefone.

Ikiganza gifashe telephone ndetse hakaba hari ahantu imbere mu iduka imbere hakaba hagaragara igipapuro kifashishwa kiriho code kugira ngo umuntu ushaka kwishyura amafaranga akoresheje telephone abashe kwishyura hakaba hagaragara muri telephone inzira ikoreshwa kugira ngo abashe kwishyura ayo mafaranga.

Moto yicayeho umuntu ufite telefone ku gutwi, iruhande rwe hakaba hari undi muntu wambaye umupira wanditseho momo uri mu ibara ry'umuhondo, akaba afashe telefone muntoki ebyiri, uyu akaba atanga serivise zitangwa n'ikigo emutiyeni gitanga serivise zijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga, ndetse no gutanga amayinite.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo, ndetse hariho n'amagambo yandikishijwe ubururu n'umukara, mo mbere muri ako kazu harimo umuntu ufite igitabo ndetse n'ikaramu, urimo kwandika, hakabamo n'ibipapuro bigaragaza ibiciro bya serivise batanga, ndetse ku ruhande hari undi muntu uhagaze, uri kumwe n'undi uri muri ako kazu.

Abantu bane barimo abagabo babiri ndetse nabagore babiri bahagaze inyuma yakazu ka MTN , mo imbere muri ako kazu harimo umuntu ushinzwe gutanga serivise akaba arimo kubafasha.

Utuzu dutandukanye twa emutiyene ikigo gishinzwe itumanaho kigurisha terefone ndetse kigatanga serivise zitandukanye zirimo: simukadi, harimo ndetse no kubitsa, ndetse no kubikuza amafaranga ku bakiliya ku buryo bwa terefone.

Ibipapuro bibiri biteretse ku meza biri mu ibara ry'umuhondo ndetse hariho n'ikirango cya telefone, amagambo akaba yandikishijwe mu nyuguti z'umukara ndetse hakaba hagaragaraho na kode twifashisha mu gihe cyose tugiye kwishyura ibicuruzwa dukoresheje telefone.

Aka kazu k'umuhondo gahagazeho abantu hariho abantu babiri n'ibyapa ni aka MTN MTN ni ikigo gicuruza amaterefone hakabamo n'amaserivise yo gutanga amayinite n'izindi serivise nyinshi zijyanye no kwishura.

Umuntu uri kuri moto akaba yambaye umupira wanditseho emutiyene mu ibara ry'umuhondo, inyuma yiwe hakaba hari abandi bantu bicaye mu mutaka n'ubundi wa emutiyene. Iki akaba ari ikigo k'itumanaho gitanga serivisi zitandukanye ku bakiriya harimo gutanga simukadi ndetse no gutanga no kubikuza amafaranga kuri telefone.

Etajeri ndetse n'akabati k'umutuku n'umweru karimo za telefone, iruhande hakaba hari icyapa kiriho abantu babiri, hakaba handitseho eyateri. Eyateri akaba ari ikigo gishinzwe itumanaho, gitanga telefone ndetse n'izindi serivise zitandukanye ku bakiriya, zirimo guhamagara ndetse no kugura ama inite.

Iduka rya mtn hakaba harimo abakozi batandukanye b'icyo kigo cya mtn, hakaba hagaragara ndetse kode itangwa mu kigo cya mtn kugira ngo habashwe kwishyurwa ibicuruzwa byafashwe n'umukiriya, aha ngaha hakaba hatangwa serivise zitandukanye z'irimo iz'itumanaho, harimo kubitsa no kubikura amafaranga, ndetse no gushyira simukadi ku murongo.

Urupapuro rw'umuhondo amagambo akaba yandikishijwe umukara ndetse n'ubururu, hakaba handitseho ijambo rya ''Emutiyene'', iki akaba ari ikigo cy'itumanaho, gishinzwe mu by'ukuri kugurisha amaterefone, amaterefone twifashisha mu guhamagara ndetse no kwitaba abaduhamagaye, hanyuma tukarushaho no kwishyura ibicuruzwa dukorsha uburyo bw'ikoranabuhanga bwitwa Emutiyene momo.

Umuntu wicaye akaba afite agasakoshi gasa umukara, akaba afite terefone mu ntoki yanditsemo ijambi momo, akaba ari uburyo bukoreshwa n'ikigo kitwa emutiyene kijyanye no kwishyura amafaranga hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Ibiganza bibiri bifashe telefone mu ntoki irimo apurikasiyo zitandukanye hakaba harimo ijambo eyateri iki akaba ari ikigo k'itumanaho kitugezaho serivise zitandukanye kikagurisha amatelefone ndetse kikadufasha no kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Akazu ka emutiyeni kari mu mabara y'umuhondo; hakaba hahagaze umuntu uje gusaba serivisi za Emutiyene zose zitangwa. Akaba ari ikigo kigurisha terefone ndeste kigatanga serivi zikorerwa mu ikoranabuhanga harimo: kubitsa ndetse, no kubikura amafaranga abakiriya bakeneye hakoreshejwe terefone.

Akazu ka eyateri ikigo gishinzwe itumanaho kitugezaho serivisi zitandukanye, harimo kugurisha amatelefone dukoresha mu kwitaba ndetse no guhamagara. Hakaba na serivise zigendanye na simukadi ndetse kakaba na serivise zijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bwa Telefone.

Iduka rya eyateri rigaragazwa n'ibirango bya eyateri hakaba harimo abakozi batandukanye ba eyateri, ndetse hakaba harimo n'abakiriya batandukanye baje gusaba serivise za eyateri, zitandukanye zirimo kubitsa no kubikuza amafaranga kuri telefone, ndetse no gutanga simukadi ku bakiriya baje babagana.

Umuntu wicaye afashe terefone mu ntoki, afite n'agakapu yambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru, imbere yiwe hari urukweto rufunze no ku rundi ruhande hari urukweto rufunguye.

Akazu ka Emutiyeni karimo umuntu, iruhande rwako hari abana batatu, ndetse n'inyuma yaho hakaba abandi bantu babiri.

Icyapa gisa umuhondo, cyariho amagambo yandikishijwe umukara. Kikaba kigaragaza kode yishyirwaho, ikoreshwa n'ikigo cyitwa gatepong enterprise abakiliriya bifashisha bishyura mu buryo bwa telefone.

Abantu batatu umwe akaba ari umukozi wa emutiyeni abandi babiri bakaba ari abakiriya baje bamugana.

Akazu gasize irangi ry'umuhondo, inyuguti zikaba zandikishijwe umukara, mo imbere hakaba harimo umuntu ndetse akaba hagaragara n'umuntu inyuma wambaye ikoti ry'ubururu, aka akaba ari akazu ka emutiyene, ikigo cy'itumanaho ndetse kitugezaho serivisi zitandukanye harimo no kubitsa no kubikuza amafaranga ku bakiriya.

Imitaka ya emutiyene mo imbere hakaba harimo abantu batandukanye imbere yaho hateretse udukarito dutandukanye turimo telefone, iki akaba ari ikigo cya emutiyene, gitanga serivise z'itumanaho kigurisha amaterefone, ndetse kigafasha abanru mu kubitsa no kubikuza amfaranga hakoreshejwe telefone ngendanwa.

Akazu k'umuhondo ndetse hakaba harimwo umuntu wambaye ishati y'umweru, hakaba harimo n'ibipapuro bitandukanye biriho serivisi zitandukanye, ahangaha akaba ari ikigo cyitwa Emutiyene gitanga serivisi zirimo itumanaho harimo telefone ndetse zigashyira simukadi ku murongo, ndetse zikadufasha mu kubitsa no kubikuza amafaranga dukoresheje telefoni.

Abantu babiri umwe akaba yambaye umupira wa emutiyeni w'umuhondo ndetse n'ingofero y'ubururu undi akaba afite amvirope mu ntoki afashe na terefone mu ntoki akaba arimo kwerekana yuko amaze kwishyura ibicuruzwa byiwe akoresheje terefone.

Iduka rya Emutiyeni rikaba ririmo abakozi batandukanye ba Emutiyeni. Imbere yabo hateretse za mudasobwa; hakaba hari abakiriya batandukanye baje gusaba serivisi, zitangwa n'iki kigo kitwa Emutiyeni. Harimo kugurisha amaterefone ndetse na serivisi zo gutanga amafaranga, binyuze mu ikoranabuhanga.

Akazu gasize irange ry'umuhondo ka emutiyeni karimo umukozi wa emutiyeni ndetse n'abantu babiri baje bashaka serivise zitangwa n'ikigo cya emutiyeni barimo gutanga amafaranga ndetse no kubitsa amafaranga bakoresheje terefone ngendanwa.

Imodoka iparitse, imbere yaho hakaba hari abantu babiri, umwe akaba yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ubururu, wanditseho amagambo ya momo, akaba ari serivise igezwa ku bakiriya, iyo bakeneye gukoresha kugira ngo bishyure ibicuruzwa runaka, bakoresheje telefone ngendanwa.

Ni abantu batatu babiri akaba ari abakozi ba MTN, umwe akaba ari umukiriya waje ubagana umukozi umwe wa MTN akaba afashe ikibo mu ntoki arimo gukoresha tombora umukiriya waje abagana, hakaba hariho ishusho iriho ifoto y'umuntu.

Icyapa cy' umuhondo kiriho ijambo emutiyene, iki akaba ari ikigo kidufasha muburyo bwitumanaho, aho kigurisha Telefone zitandukanye, ndetse kigafasha muri serivisi zitandukanye zirimo kubitsa no kubikuza amafaranga ,hamwe n' ikarita zo guhamagara.

Icyapa cy'umuhondo ndetse amagambo akaba yanditswe mu ibara ry'umukara n'ubururu, hakaba hariho ikirango cya emutiyene ahangaka hakaba hariho n'imibare iyo twita kode, iyi ngiyi ika idufasha kwishyura ibicuruzwa twahashye tukishyura dukoresheje telefone, izi akaba ari serevise zitangirwa zose muri emutiyene.

Umutaka usa umuhondo uriho ibirango bya emutiyeni. Mu imbere hakaba harimo abakozi bambaye imipira y'imihondo iriho naho ibirango bya emutiyeni. Iki ngiki kikaba ari ikigo gifasha abakiriya mu by'ukuri bakeneye serivise z'itumanaho, aho kibitsa kikanabikuza n'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga hakoreshejwe terefone ngendanwa.

Abantu batandukanye bari mu iduka rya emutiyene ndetse no hanze yaryo hakaba hari abandi bantu bagaragara, baje gushaka serivisi zitandukanye zitangwa n'iki kigo cya emutiyene, zirimo kutugezaho telefoni z'ubwoko bwose ndetse na serivisi zijyanye no gushyira simukadi ku murongo, hamwe no kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga hakoreshejwe telefoni.

Akazu gasize irangi ry'umuhondo ndetse amagambo ariho akaba yanditswe ibara ry'umukara, hakaba hariho n'ikirango cya telefone ndetse n'ijambo emutiyeni, ikingiki akaba ari ikigo kidufasha mu buryo bw'itumanaho, aho kigurisha telefoni zidufasha guhamagara no kwitaba abaduhamagara ndetse na serivisi zitandukanye zijyanye no kubitsa amafaranga no kubikuza mu buryo by'ikoranabuhanga.

Umumotari wambaye kasike abantu babiri bambaye imipira y'imihondo yanditseho emutiyeni umwe akaba ari gushyira esanse muri moto, hejuru yabo hakaba hari icyapa kiriho kode yagenewe kwishyura hakoreshejwe telefone mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Akazu ka emutiyene gasa umuhondo kakaba kariho amagambo yandikishijwe umukara n'umweru n'ubururu, ndetse hejuru y'akazu hariho igitambaro cy'amabara y'ubururu n'umweru, imbere y'ako kazu hahagaze umuntu ufite ishakoshi.

Icyapa cy'iumuhondo n'umweru ndetse hakaba hariho amagambo yandikishije umweru, n'ubururu n'umukara hakaba hariho kode, yagenewe kugirango hishyurwe ibicuruzwa runaka, umukiriya wese ufite telefone akaba ashaka kwishyura akoresheje telefone yishyurwa akoresheje iyi kode.

Aha hari firigo iyo firigo ikaba yometseho igipapuro cya emutiyeni cyamamaza uburyo waguramo interinete yo gukoresha mugihe cyose waba ukeneye.

Ibintu bitandukanye bicururizwa mu masoko kontineri, umutaka w'umuhondo, umuntu wambaye imyenda y'umuhondo yanditseho emutiyeni, ikigo gishinzwe itumanaho kigurisha telefone ndetse kikabitsa kinabikuza n'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Icyapa cy'umuhondo ndetse kikaba kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hakaba hariho ikirango cya telefone, ndetse hakaba hagaragara n'izina ry'ikigo cya MTN, akaba ari ikigo kidufasha mu itumanaho, aho kiduha serivise za telefone ndetse kikadufasha kubutsa no kubikuza amafaranga dukoresheje telefone zigwndanwa.

Akazu gasize irange ry'umuhondo kariho ibirango bitandukanye by'ikigo cyitwa Emutiyeni. Ako kazu kakaba karimo umukozi wa Emutiyeni, ndetse hakaba hagaragara imbere yaho umukiriya akaba arimo kubaza serivisi Emutiyeni itanga, zirimo gutanga amayinite ndetse no kubikuza no kubitsa amafaranga kuri terefone.

Ikiganza gifashe telefone y'umukara irimo kwaka ubururu, hakaba harimo amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, imbere yaho hakaba hariho icyapa kiriho kode yifashishwa mu kwishyura ibicuruzwa runaka umukiriya yafashe, hakaba hagaragara ko harimo kwishyurwa amafaranga y'igiciro k'ibintu byafashwe mu iduka.

Abantu batandukanye harimo abambaye imipira y'imihondo, ndetse hakaba hari umwe ufashe icyapa cya MTN Mobile Money kiriho kode, iki ngiki kikaba ari ikigo kigufasha mu by'ukuri muri serivisi zitandukanye zo kwishyura ibicuruzwa, aho umuntu ashobora gukoresha terefoni yiwe hanyuma akishyura ibintu byose yafashe akoresheje terefoni.

Icyapa cy'umuhondo cya MTN amagambo akaba yandikishijwe mu ibara ry'umukara akaba hariho n'ikirango cya terefone hakaba hariho imibara ya kode akaba ari imabare yishyurirwaho amafaranga igihe umukiriya aguze ibicuruzwa.

Iyi ni sitasiyo ya esanse akaba hariho umuntu wambaye umupira w'umweru, ufite telefone urimo arafotora kode yifahishwa, kugira ngo yishyurwe amafaranga hakoreshejwe telefone ngendanwa.

Umukozi uri mu kazu ka emutiyeni akaba afashe ikaramu ndetse n'ikayi, imbere yiwe hakaba hari umukiriya arimo gufasha muri serivise zitandukanye yaje gusaba za emutiyeni

Iduka rya emutiyene ririho ibirango bitandukanye bya emutiyene, hakaba harimo y'abakozi bitandukanye bashinzwe gutanga serivise za emutiyene, imbere yabo hari umukiliya waje gusaba serivise za emutiyene.

Abakozi babiri ba emutiyeni, hamwe n'umukiliriya uje ubagana ushaka serivisi zitandukanye zitangwa na emutiyeni.

Imipira ndetse n'ingofero bisa umuhondo bya Mtn, hakaba hari n'intebe z'umukara, hakaba hari umuntu wambaye amarinete wambaye umupira w'umweru ndetse n'umuhondo, hakaba hari n'undi muntu kuruhande wambaye ishati ya karokaro, aha ngaha hakaba hagaragazwa ikigo cya Mtn gitanga serivise z'itumanaho.

Akazu ka emutiyeni gasize irange ry'umuhondo inyuguti zikaba zanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, hakaba hariho n'icyapa cya terefone imbere y'ako kazu hahagaze abantu babiri bose hejuru bambaye imyenda isa umuhondo.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye birimo intoryi, imiteja, pavuro, ibirungo, amavuta, imifuka. Hakaba harimo abacuruzi, hakaba harimo abaje guhaha ndetse bakaba berekana n'igipapuro kiriho kode yo kwishyuriraho.

Aha hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, amagambo akaba yanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu hakaba hariho n'ikirango ndetse cya telefone, hakaba hariho imibare ya kode yifashishwa kugira ngo hishyurwe ibicuruzwa mu buryo bw'ikoranabuhanga hakoreshejwe terefone.

Ameza ariho ibyapa byinshi by'umuhondo bya emutiyeni hakaba hariho na televiziyo ebyiri nini za furati, ibi byapa bikaba biriho kode zifashishwa kugira ngo hishyurwe ibicuruza mu kigo runaka igihe umukiriya yafashe ibintu ashaka kwishyura akoresheje telefone.

Umukozi uru mu kazu ka emutiyene hakaba hari umugore uje kumusaba serivise, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ingofero ndetse no k'urundi ruhande hakaba hari undi mugabo, abo bose bakaba baje gusaba serivise.

Umuntu wicaye munsi y'umutaka akaba afashe terefone mu ntoki tukaba dukunze kumwita agenti aho afasha abantu baje bamugana gutanga serivise za MTN ndetse na eyateli igihe bakenye guswapisha simukadi zabo cyangwa bakeneye gufata amafaranga bakayabitse cyangwa bakayabikuza kuri terefone zabo ngendanwa.

Umuntu uri mu kazu ka MTN, akaba fite ikaramu ndetse n'igitabo arimo kwandika, iruhande rwe hakaba hari undi muntu, mu kazu ka MTN hakaba harimo ibipapura bigaragaza serivise MTN itanga ndetse na Airtel n'amafaranga zitwara.

Akazu gasize irangi ry'umuhondo kariho ibirango bya emutiyene. Iki kigo akaba ari ikigo cy'itumanaho aho gitanga serivise zitandukanye ku bakiriya. Kikaba kugurisha za telefone, telefone dukoresha kugirango duhamagare ndetse twitabe n'abaduhamaye, hakaba hatangwa na serivise zijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abantu babiri bafatanye ibiganza bambaye imipira y'imihondo, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu babakikije, ndetse hakaba hagaragara n'umutaka w'umuhondo, w'ikigo cyitwa emutiyene, iki akaba ari ikigo cy'itumanaho gishinzwe guhereza abantu amatelefone ndetse na serivisi zitandukanye zo kubitsa no kuyikuza amafaranga, mu buryo bw'iranabuhanga.

Umuntu wicaye imbere yiwe hakaba hari utumashini tubiri twifashishwa mu kwishyura ibicuruzwa bitandukanye, ndetse imbere ye hakaba hateretse na telephone twifashisha duhamagara ndetse tukishyura n'ibicuruzwa bitandukanye dukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, hagaragara icyapa ndetse cya MTN, ikigo kidufasha mu buryo bw'itumanaho ndetse no kwishyura ibicuruzwa dukoresheje telephone ngendanwa.

Iduka ry'ikigo kitwa Eyateri hakaba harimo abakozi ba Eyateri bambaye imipira y'imutuku ndetse hakaba harimo n'abakiriya baje gusaba serivise zitandukanye Eyateri itanga ku bakiriya bayo.

Icyapa cy'ikigo cya MTN kiri mw'ibara ry'umuhondo ndetse handikishijweho amagambo mu ibara ry'umukara hakaba hariho imibare ariyo yitwa kode ikoreshwa mu gihe hagiye kwishyurwa ibintu hakoreshejwe terefone ngendanwa.

Abantu bane bari mu mutaka wa emuiyene, batatu bakaba bambaye imyenda iriho ibirango bya emuiyene, undi umwe akaba ntawe yambaye iruhande rwabo hakaba hari mu modoka arimo aragenda.

Ishami ry'ikigo cya MTN, harimo abakozi ba MTN, hamwe n'abakiriya bari kuza babagana bashaka serivisi zitandukanye za MTN.

Abantu bari mwiduka hakaba harimo umukozi wa MTN urimo gufasha umukiriya kwishyura akoresheje telefone.

Umushoferi wicaye mu modoka y'umukara, iyo modoka ikaba iriho ikirango cya emutiyeni mobayiromani, hakaba hariho na code yifashishwa hishyurwa ibicuruzwa bitandukanye, ku ruhande hakaba hari umuntu wambaye umupira wa emutiyeni, bigaragara ko ari umukoze wa emutiyeni urimo uratanga serivisi ku mukiriya.

Iduka rya Airtel hagaragara abantu batandukanye baje mu iri duka rya Airtel gusaba sirivisi zitandukanye zitangwa n'iri duka, harimo kugurisha amatelefone adufasha kugira ngo duhamagare ndetse twitabe n'abaduhamagaye, harimo ndetse na serivisi zijyanye no kubitsa no kwibikuza amafaranga ndetse no mu kwishyura ibicuruzwa bitandukanye dukoresheje telefone ngendanwa.

Iduka rya MTN ririmo abakozi babiri, umukozi umwe ari ku ruhande rumwe afite abakiriya babiri arimo kwakira, undi ari ku rundi ruhande ari kwakira umukiriya umwe.

Akazu kari mu mabara y'umutuku, akaba ari akazu ka eyateli, ikigo cy'itumanaho, gishinzwe gutanga serivize zitandukanye ku bantu, harimo serivise zo kugurisha telefone, ndetse na serivise zijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga, hamwe no gushyira semukadi ku murongo.

Abantu babiri, umwe akaba yambaye umupira w'umutuku, undi akaba yambaye ijire yanditseho emutiyeni bakaba bari munsi y'umutaka wa emutiyeni. Iki akaba ari ikigo k'itumanaho kigurisha amaterefone ndetse kigatanga na serivise zitandukanye ku bakiriya, harimo kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Umuntu uri mu kazu ka emutiyene hamwe n'umukiliya uri imbere yako, inyuma yaho hakaba hari iduka ririmo imiryango y'ibicuruzwa bitandukanye.

Utuzu tubiri aka ayateri ndetse n'aka emutiyene, imbere hakaba hahagaze abantu ndetse na serivise zitangwa n'ibyo bigo birimo gutanga amaterefone atandukanye, simukadi ndetse no kubitsa amafaranga hamwe no kuyabikuza mu buryo bwa terefone ngendanwa.

Iduka rya MTN ririmo abakozi batatu bagaragara bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'undi mukozi wabo wa kane uri ku ruhande nawe wambaye umupira w'umuhondo, imbere yabo hakaba hahagaze umukiriya waje gusaba serivisi za MTN.

Akazu k'umuhondo ka mtn kariho ibirango bya telefone gateretse iruhande rw'umuhanda. iki akaba ari ikigo gishinzwe itumanaho kigurisha za telefone, ndetse kigatanga serivise zitandukanye ku abakiriya harimo; kubitsa no kubikuza amafaranga ndetse no kwaka inguzanyo akoreshejwe mo cashi.

Abantu babiri bari imbere bari kubyina n'undi umwe uhagaze inyuma, akaba ari umukozi wa Emutiyeni, hakaba hagaragara ibyapa bya Emutiyeni, bikaba bigaragara ko yari poromosiyo ya izihirwe bari bishimiye.

Icyapa cy'umuhondo cya MTN, imbere y'icyapa hakaba hari imodoka iriho y'umuntu wishimye, hakaba hahagaze imbere na none umumotari ndetse na moto, icyo cyapa kikaba kifashishwa mu kugaragaza yuko hari tombora, cyangwa serivise ya MTN ijyanye no gutombora.

Akazu gasize irangi ry'umuhondo, kariho ibirango bitandukanye bya MTN ndetse imbere y'ako kazu hakaba hagaragara abantu batatu bahagaze bashaka serivisi zose zitangwa n'ikigo cya MTN, harimo kugurisha n'amaterefone, hakaba arimo na serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bwa terefone.

Abantu batatu bahagaze kukazu ka emutsiyeni mobayilo mane, bategereje serivise zitangwa n'umukozi wa emutsiyene mobayilo mane.

Abantu batandukanye bambaye imipira y'umuhondo ndetse hakaba ari umumama wambaye ikanzu ufite amverope mu ntoki, iruhande rwe hakaba hagaragara icyapa cya MTN, kiriho amafoto y'abantu, akaba ari ikigo gishinzwe gutanga itumanaho ndetse kikaba gikora ubucuruzi butandukanye.

Abakozi ba MTN, imbere yabo hakaba hari za mudasobwa, ndetse hakaba hagaragara abandi bantu babiri b'abakiriya baje gusaba serivisi za MTN itanga zitandukanye zirimo gukora swapu za simukadi, zirimo kubitsa ndetse zirimo no gutanga amafaranga mu buryo bwa terefone.

Ni umuntu urimo kwamamaza ikigo gishinzwe gutwara ibintu kubakiriya mu buryo bwihuse.

Moto eshatu zihetse udusanduku twanditseho ikigo kitwa migoro ndetse hakaba harimo na nimero zacyo ikiranga, iki akaba ari ikigo gishinzwe kujyana ibintu no kugeza ibintu babiguze bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Umuntu ufashe igare, akaba ahetse igikapu cyanditseho vuba vuba, akaba ari ikigo gishinzwe kujyana ndetse no gushyikiriza ibicuruzwa ku bantu batavuye mu ngo zabo.

Umumotari wambaye kasike y'ubururu, inyuma yiwe akaba ahetse agasanduku gafungishijwe ingufuri gasa ubururu, kakaba kariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru ndetse na nimero, akaba ari ikigo cyitwa Kasha gishinzwe gutwara ibicuruzwa kibigeza ku bakiriya babiguze mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Icyapa kiriho ikigo cyitwa Fedex, kikaba ari ikigo gikora ubucuruzi bw'ikoranabuhanga, aho umukiriya iyo ashaka ibicuruzwa akoresha mudasobwa cyangwa se agakoresha terefoni, hanyuma akabitumiza, bikamugeraho atavuye aho ari.

Ipikipiki iparitse ihetse agasanduku, k'ikigo cyitwa vuba vuba, gishinzwe gutwara ibicuruzwa ku bakiliya.

Icyapa kigaragaza ikigo cyitwa "A Germany", kikaba kirimo kwamamaza resitora, kikaba ari mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho umukiriya ajya mu rubuga rwabo akagura ibintu ari mu rugo iwe akoresha terefoni ngendanwa ndetse na mudasobwa.

Icyapa cyamamaza igitaramo cya Rwanda Music Festival, kikaba kiriho amafoto y'abantu barindwi barimo kwamamaza icyo gitaramo ndetse kikaba kivuga n'ahantu bashobora kugurira amatike yo kwitabira icyo gitaramo.

Icyapa kigaragaza urubuga rukoreshwa mu kugurisha ndetse no kugura ibintu hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga, telefone, mudasobwa ndetse aho umukiliya atumiza ibintu ari mu rugo iwe bikamugeraho atavuye aho ari.

Icyapa kigaragaza ubucuruzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, aha ngaha hakaba hifashishwa ibikoresho by'itumanaho bitandukanye, harimo mudasobwa ndetse hariho na telefone aho umuntu ashobora kuba yicaye mu rugo agatumiza ibicuruzwa bakabimugezaho atavuye aho ari.

Icyapa kiriho firigo, kikabaho n'amacua y'inzoga, hakaba hariho n'amazina y'ibigo bitandukanye, kikaba kigaragaza yuko kirimo kwamamaza ko kigezaho abantu ibicuruzwa bakeneye, mu gihe cyose babyatse bakoresheje murandasi.

Moto iparitse ihetse agasanduku k'icyatsi kanditseho vuba vuba. Inyuma y'ako gasanduku hari umuntu wambaye ishati y'icyatsi yanditseho vuba vuba, akaba ari gushyira ibicuruzwa cyangwa ibintu muri ako gasanduku. Iki akaba ari ikigo gifasha abantu kikabagezaho ibicuruzwa bahashye.

Umuntu wicaye akaba yambaye ekuteri mumutwe, ndetse afite na terefone muntoki, akaba arimo kwerekana uburyo bukoreshwa muburyo bw'ikoranabuhanga aho abakiriya babasha kuba bari murugo bagafata terefone hanyuma bagatumiza ibicuruzwa ku maduka runaka, bakabibagezaho.

Icyapa kiriho imodoka yanditseho murukari hakaba hagaragara yuko ari ikigo gikora ibijyanye no gutwara ibintu byaguzwe hakoreshejwe ikoranabuhanga aho umuntu afata telefone yiwe cyangwa mudasobwa hanyuma agatumiza ibintu yicaye murugo bakabimugezaho.

Moto ebyiri zihetse udusanduku, udusanduku tukaba twanditseho "POZ derivari" ikingiki akaba ari ikigo gishinzwe kujyana ibintu kuba kiriya igihe cyose babihashye bakoresheje itumanaho mu buryo bwa murandasi.

Icyapa kigaragaza ibicuruzwa bitandukanye, akenshi bicuruzwa kahoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, aho umuntu aba ari mu rugo, agakoresha mudasobwa y'iwe, cyangwa agakoresha telefone, hanyuma agahaha, ahahiye kuri murandasi, atavuye aho ari.

Icyapa kigaragaza ibigo bitandukanye bikoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga aho umukiriya afata telefoni ndetse na mudasobwa hanyuma agahaha ibintu byose akoresheje imbuga nkoranyambaga, bakabimugezaho atavuye aho ari.

Icyapa kiriho ibicuruzwa bitandukanye birimo telefone, telekomande, USB, akaba ari ikigo gikora ubucuruzi bushingiye kuri murandasi, aho umuntu agura ibikoresho byose akeneye bakabimugezaho atavuye aho ari.

Icyapa cy'umuhondo kiriho amagambo yandikishijwe umweru ndetse n'umukara, ku cyapa hariho n'umuntu uhetse ibintu kurutugu, akaba ari ikigo kitwa Twiga gishinzwe gutwara ibintu kibigeza kubakiliya mugihe babiguze muburyo bwa murandasi.

Urupapuro ruriho ibikoresho bitandukanye hariho amasakoshi ariho ibikapu ndetse n'imisatsi y'abagore angaha akaba agaragaza uburyo bukoreshwa mu ikoranabuhanga aho umuntu ashobora kuba ari mu rugo afite telefone yiwe cyangwa mudasobwa , hanyuma agatumiza ibintu atavuye aha ari bakabimugezaho.

Iyu ni umumotari ukorera ikigo kitwa kasha gishinzwe kugeza ubutumwa ku bantu mu buryo bwihuse.

Hari moto iparitse ihetse agasanduku kanditseho vubavuba, hariho umumotari wambaye ishati ya vubavuba ndetse na kasike mu mutwe bari iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo.

Ipikipiki iparitse, ihetse agasanduku, hamwe n'umuntu ufashe agapfunyika k'ibicuruzwa azaniye umukiriya.

Icyapa kiriho ifoto y'umuntu ndetse cyikaba kiriho n'amacupa atandukanye y'amavuta cyikaba ari icyapa kigaragaza cyangwa se gikoreshwa n'ikigo runaka mugihe gikora ubucuruzi bushingiye kuri murandasi kikageza ibintu kubakiriya batavuye aho bari.

Moto iparitse ihetse agasanduku k'icyatsi, hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umukara na kasike y'icyatsi, akaba afashe agakarito, akaba ari kampani yitwa Kasha, ishinzwe gutwara no kugeza ibintu ku bakiliya babiguze bakoresheje ikoranabuhanga.

Umuntu uhagaze wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse hejuru yambaye umupira wa orange wanditseho jumiya, iruhande rwe hateretse ikarito nayo yanditseho jumiya iki ngiki kikaba ari ikigo twifashisha buryo bw'ikoranabuhanga aho abakiriya batumiza ibintu hanyuma kikabibagezaho batavuye aho bari.

Urupapuro rugaragaza ibicuruzwa bitandukanye hamwe n'igiciro cy'amafaranga ibyo bicuruzwa bigura.

Umumotari wambaye ipantaro y'ubururu, y'ikoboyi, ndetse n'umupira utukura, akaba ahetse agasanduku, iki kikaba ari ikigo gishinzwe gutwara ibicuruzwa ku bakiriya baba babiguze bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, telefone na mudasobwa, n'ibindi.

Icyapa kigaragaza ubucuruzi bukorwa mu buryo bw' ikoranabuhanga, aho umukirirya ndetse n'umucuruzi bashobora kuyifashisha. Umukiriya akaka ibintu akoresheje terefone ngendanwa cyangwa mudasobwa, hanyuma bakabimuzanira iwe atavuye aho ari.

Icyapa kiriho telefone ndetse haragaragaraho n'umuntu hakaba hagaragara uburyo bukoreshwa muburyo bw'ikoranabuhanga mugihe umuntu akeneye ibicuruzwa runaka kugira ngo babimugezeho atavuye aho ari, aho afite telefone cyangwa mudasobwa ashobora gusaba ibyo ashaka byose bikamugeraho.

Icyapa kiriho abantu babiri umwe wambaye umweru n'undi wambaye ubururu bakaba barimo guherezanya ibicuruzwa birimo imbuto zitandukanye ndetse n'imboga. Icyapa kikaba cyifashishwa kenshi mu kugira ngo hamamazwe ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi

Ipikipiki isa ubururu ihetse agasanduku k'icyatsi ndetse n'ubururu hashushanyijeho umuntu hakaba hagaze umuntu wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara n'undi muntu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umutuku bakaba bahagaze imbere y'urugi rusa ubururu

Moto iparitse akaba ihetse agasanduku k'umutuku hakaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse na nimero iruhande hakaba hari umuntu akaba afashe amverope hejuru y'agasanduku agaragaza ko ajyanye ibicuruzwa byahashywe mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Amapikipiki ane, ari mu muhanda, yose ari ku murongo umwe, akaba ahetse udusanduku inyuma, utwo dusanduku tukaba twifashishwa mu gushyiramo ibicuruzwa abakiriya batse, kugira ngo babibagezeho.

Ni abantu babiri, umwe ni umukozi w'ikigo cyitwa SAFI undi ni umumotari. Umukozi w'ikigo cyitwa SAFI akaba ari guhereza ubutumwa umumotari agomba gushyira umukiriya.

Moto iparitse, ikaba iriho telefone twifashisha duhamagara cyangwa twitaba abantu, tukaba tunayikoresha mu kubitsa no kubikuza amafaranga, ndetse no mu gihe dushaka kujya ahantu tukaba dushyiramo icyerekezo cy'aho dushaka kujya hanyuma tukahagera.

Umumotari uhetse igikapu gisa icyatsi handitseho amagambo vuba vuba. Iki akaba ari ikigo gifasha abakiriya batse ibintu mu buryo bwa murandasi, kugirango kibagezeho ibintu mu buryo bwihuse. Iruhande rwe hakaba hari icyapa kiranga hoteli Kivu marina.

Icyapa kiriho ibicuruzwa bitandukanye birimo udukoresho bakoresha bamanikaho imyenda kiriho: ubuki hariho ikawa n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, icyi cyapa kikaba gikoreshwa mukugirango hamamazwe ibicuruzwa ariko bikorerwa kuri murandasi.

Icyapa kiriho mudasobwa ndetse na telefone, hakaba hariho n'urubuga rw'izina ry'ikigo gishinzwe gukora ibintu bigendanye n'ubucuruzi bwa murandasi, iki kigo kikaba gifasha abakiriya bose batse ibintu, bashaka kigira ngo bibagereho, batavuye aho bari.

Abantu babiri bafashe ingofero za moto, twita kasike, zamamaza ibigo bishinzwe bitwara ibintu bibigeza ku bakiriya.

Icyapa kiriho furashe yifashishwa mu kubika ibintu, ndetse hakabaho n'agakoresho kifashishwa mu kwica udukoko dutandukanye imibu n'utundi dukoko dutoduto ntetse hakaba hariho n'urukweto icyo cyapa kiba kiriho ikigaragaza ibicuruza bicururizwa kuri murandasi

Icyapa kiriho ibyo kurya by'ubwoko bubiri ndetse hakaba hariho igiciro kiranga buri bwoko bw'ibyo kurya.

Icyapa kiriho amakuru amanyekanisha urubugankoranyambaga rwifashishwa hakora ubucuruzi bw'ikoranabuhanga aho umukiriya afata terefone cyangwa mudasobwa, hanyuma agatumiza ibintu byose ashaka bakabimugezaho atavuye aho ari.

Moto iriho umumotari akaba ahetse igikapu inyuma cyanditseho poste delivery iki akaba ari ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho aho gifata ibicuruzwa abakiriya batse bakoresheje mudasobwa cyangwa telefoni mu buryo'ikoranabuhanga hanyuma kikabibashyira.

Icyapa kiriho ibicuruzwa bitandukanye birimo inkoko, amashu, karoti, inyanya, pavuro, royiko ndetse n'amavuta n'inanasi, hakaba hariho n'izina ry'ikigo cyitwa Family Bouquet, gikora ubucuruzi cyane cyane bushingiye kuri murandasi, igihe cyose umukiriya yatse ibintu akeneye yuko yabimugezaho.

Icyapa kiriho amafoto y'abantu babiri buri umwe akaba afashe telefone mu ntoki, zikaba zidufasha kugira ngo twitabe ndetse turahamagara abantu, ndetse zikadufasha no kwishyura ibicuruzwa mu gihe cyose tugiye ku maduka hanyuma tukishyura dukoresheje iyo telefone ngendanwa.

Moto enye zihetse udusanduku dusa umutku, hakaba handitseho jumiya fudu. Iki ngiki akaba ari ikigo gishinzwe gutwara no kugeza ibintu ku bakiriya mu igihe babiguze bakoresheje imbuga nkoranyambaga.

Aha hari icyapa kirimo isaha, akaba ari ikigo kiri kwamamaza yuko gikora ubucuruzi bushingiye kuri murandasi, igihe cyose akeneye ibicuruzwa akaba akiyambaza akagihamagara, hanyuma kikamugezaho ibicuruzwa ashaka mu buryo byihuse.

Icyapa cyamamaza ikigo gikora ubucuruzi bwo kuri murandasi. Ikigo kitwa mikoro shopu.

Icyapa kigaragaza inzu ikorerwamo n'ikigo kitwa Tayo, akaba ari ikigo gishinzwe gucuruza ibintu kibicuruje ku mbuga nkoranyambaga, aho hifashishwa ikoranabuhanga rya telefone ndetse na mudasobwa hanyuma umukiliya akabasha gusaba ibyo akeneye byose bakabimugezaho.

Moto iri mu muhanda w'amabuye ndetse n'umumotari wambaye ishati y'icyatsi uhetse agasanduku ka vubavuba iki akaba ari ikigo gishinzwe gutwara no kugeza ibintu kubakiriya babababiguze mu buryo bwa murandasi kikabagezaho ibintu batavuye aho bari.

Icyapa kirimo telefoni ndetse iyo telefoni ikabarimo ibintu bitandukanye bicuruzwa, hariho n'igiciro cyabyo aha ngaha akaba ari uburyo bukoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga aho umuntu ashobora kuba ari mu rugo afite telefone yiwe, cyangwa se mudasobwa hanyuma agatumiza ibintu byose ashaka kugura bakabimugezaho atavuye aho ari.

Urupapuro ruriho ibintu bitandukanye harimo amashakoshi, imipira, inkweto, ahangaha hakaba hagaragaza ibintu bicuruzwa mu buryo bw'ikoranabuhanga aho umukiriya abasha gutumiza ibintu iyo yifashishije telefone cyangwa mudasobwa hanyuma bikamugeraho.

Icyapa kiriho amafoto y'abantu babiri kigaragaza urubuga nkoranyambaga rwifashishwa hatumizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, kumukiliya aho akoresha telefone cyangwa mudasobwa, hanyuma akabigura atavuye aho ari bakabimuzanira.

Urupapuro ruriho ibicuruzwa bitandukanye ndetse hakagaragara n'igiciro cya buri gicuruzwa, akaba hasatswe kugaragaza yuko ari uburyo bukoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho ushobora guhaha utavuye mu rugo ahubwo ukoreshaje terefone ndetse na mudasobwa hanyuma ibyo wahashye bakabikugezaho.

Abamotari bicaye kuri za moto zabo bambaye imipira itukura yanditseho ijambo yego moto, na kasike zitukura zatseho yego moto, imbere yabo hari umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka isa umweru, ndetse imbere hari ibiti n'amazu abiri.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga aho umukiriya agura ibintu yibereye mu rugo agakoresha ikoranabuhanga hanyuma ikigo runaka kikamugezaho ibicuruzwa yahashye atavuye aho ari.

Imodoka z'umweru ziparitse zifashishwa n'ikigo cyitwa TWIGA, gishinzwe gutwara ibintu ku maduka atandukanye ndetse no ku bakiriya batandukanye, baba babiguze ariko bakoresheje telefone ngendanwa, bakabibagezaho batavuye aho bari.

Icyapa kiri mu ibara ry'umukara, amagambo yacyo ariho akaba yandikishijwe umweru ndetse na oranje, iki cyapa kikaba gikora mu kwamamaza ubucuruzi, akenshi bukorerwa kubi murandasi, ku bantu bakeneye kugira ngo bagezweho ibicuruzwa.

Moto iparitse ikaba ihetse agasanduku k'umutuku, kariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, ifungishijwe ingufuri, iruhande hakaba hari umumotari wambaye kasike akaba ari ikigo gishinzwe gutwara ibintu kibijyana ku bakiliya babiguze bakoresheje ikoranabuhanga.

Hariho ibyo kurya biteguwe, birimo umugati urimo imboga, urimo inyama witwa bugger, hamwe n'umuntu ubikora.

Impano ifunze mu gifuniko cya kacyi, ikaba izirikishijwe umushumi w'ikigina, ikaba iteretse ku meza, iruhande rw'iyo mpano hari udutako tw'ikigina, hakaba hari n'undi mutako w'igiti usa icyatsi.

Moto iparitse ihetse agasanduku k'umutuku hakaba hari umuntu urimo gushyira ibintu mu gasanduku akaba ari ikigo kitwa Biras gikora ibijyanye n'itumanaho ndetse n'umucuruzi aho gishyira abantu mu ngo batavuye aho bari.

Umuntu wicaye kuri mudasobwa n'icyapa kiriho serivise zitandukanye, hakabaho n'imyirondoro ya nimero ya telefone ushobora guhamagara iki kigo kitwa webusayiti, disayini Rwanda gishinzwe gutwara ibintu cyangwa se ibicuruzwa byaguzwe n'abakiliya bakoresheje ikoranabuhanga.

moto iparitse ihetse agasanduku k'icyatsi kanditseho vuba vuba, ndetse inyuma yaho hari umuntu nawe wambaye ishati y'icyatsi yanditseho vuba vuba akaba arimo gushyira ibintu mugasanduku, iki akaba ari ikigo gifasha abantu kibagezaho ibicuruzwa basabye muburyo bwikoranabuhanga.

Abantu babiri bari imbere y'icyapa cya kalase hoteli, hagati yabo hakaba harimo moto, bose amaboko yabo afashe ku gasanduku gahetswe na moto, amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, akaba ari ikigo kitwa vuba vuba, ikigo gitwara ibicuruzwa kibigeza ku bakiriya babiguze mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Icyapa kigaragaza urubuga nkoranyambaga rushobora kwifashishwa mu gutumiza ibintu ku mukiliya, cyangwa se gishobora kwifashishwa n'umuntu ukeneye kugira ngo akore ubucuruzi bushingiye ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo afashe abakiliya bose bashaka ibintu kugira ngo bibagerereho ku gihe.

Icyapa kiriho icupa rya gaze moto ihetse agasanduku icupa ry'amazi rya jibu akaba ari icyapa cyamamaza ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi bw'ikigo kitwa irasi.

Icyapa kiriho ibicuruzwa bitandukanye ndetse na mudasobwa yifashishwa mu buryo bwo kugura ibintu utavuye aho uri, hakaba hariho n'izina ry'ikigo gikora ubucuruzi bushingiye kuri murandasi, aho umukiriya agura ibintu bakabimugezaho atavuye aho ari.

Umuntu ufashe telefone mu ntoki, mo imbere muri iyo telefone hakaba hari kwakamo icyatsi, n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, hakaba harimo n'abantu babiri ndetse na moto, bigaragara yuko ari apurikasiyo ikoreshwa mu kugira ngo bageze ibicuruzwa byaguzwe ku bakiliya.

Icyapa kigaragraza ikigo cy'ikoranabuhanga gikora ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga aho umukiriya ashobora gukoresha telefone yiwe, agakoresha na mudasobwa hanyuma agahamagaza ibintu akeneye byose bakabimugeza atavuye aho ahari.

Icyapa kiriho ibiganza bibiri bifashe kotekise, kikiba kigaragaza ubucuruzi bukorwa hakoreshwejwe murandasi, aho umukiriya atumiza ibicuruzwa runaka, bikamugeraho atavuye aho ari.

Ipikipiki iriho umumotari, inyuma y' iwe akaba ahetse agasanduku kari mu mabara y' umweru, ndetse n' n'umutuku n' umukara. Hakaba handitseho amagambo yitwa rashi fuzi; akaba ari kigo gishinzwe gutwara ibintu kibigeza ku bakiriya, babisabye mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Moto iparitse ihetse agasanduku k'umutuku ndetse n'abantu babiri bayihagaze inyuma bakaba barimo kugaragaza ko ari ikigo gikora ubucuruzi bushingiye kuri murandasi aho umukiriya atumiza ibintu hanyuma bakabimugezaho atavuye aho ari.

Iduka ryitwa ihaha aho ushobora kugura ibicuruzwa bitandukanye, birimo firigo, televiziyo ndetse na mudasobwa ndetse ukabihaha ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, waba ukoresheje mudasobwa cyangwa telefone, bakabikugezaho.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara. Ruvuga ibijyanye no gucuruza mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho umukrirya ashobora kuba ari murugo agakoresha terefone yiwe ndetse na mudsobwa; hanyuma agatumiza ibintu atavuye aho ari.

Icyapa kigaragaza ibintu bitandukanye bicuruzwa ariko hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, aho umukiriya afata terefone yiwe ndetse akaba yafata na mudasobwa hanyuma akandikira urubuga rw'ikoranabuhanga, bakamugezaho ibintu byose yatse atavuye aho ari.

Imodoka nziza iparitse ikaba isa umuhondo ndetse n'ubururu, ikaba yanditseho ijambo iposita iki akaba ari ikigo kidufasha mu buryo bw'itumanaho, aho gifata ibintu kikabishyira abantu mu ngo zabo, batavuye aho bari hanyuma kikabibashyikiriza.

Icyapa kiriho ibicuruzwa gitandukanye birimo: imboga ndetse n'imbuto ndetse haba hariho na terefone irimo ibintu bitandukanye. Akaba ari icyapa kigaragaza ubucuruzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, aho umukiriya yifashisha terefone ndetse na mudasobwa; agatumiza ibintu bikamugeraho atavuye aho ari.

Iduka ricuruza ibintu mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho umukiliya afata telefone ngendanwa cyangwa se afite mudasobwa hanyuma agatumiza ibintu, bakabimugezaho atavuye aho ari.

Icyapa kigaragaza urubuga nkoranyambaga rwifashishwa mu gutumiza ndetse no kugura ibintu, hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga telefone ngendanwa ndetse na mudasobwa, aho umukiliya atumiza ibintu ari mu rugo bakabimugezaho.

Iyi ni ifoto y'abamotari babiri buri mumotari akaba ahetse umugenzi.

Icyapa cyamamaza ikigo kitwa uzuri gikora ubucuruzi bw'ikoranabuhanga aho umukiriya ashobora gusura urubuga rwabo agatumiza ibintu akoresheje telefone cyangwa se agakoresha telefone hanyuma bakabimugezaho atavuye aho ari.

Icyapa kiriho ibyo kurya bitandukanye birimo amakaroni ndetse n'amagi ndetse na sambusa ahangaha bakaba bari kugaragaza ko ari mu buryo bucuruzwa bakoreshejwe ikoranabuhanga aho umuntu ashobora gutumiza ibintu bye yibereye mu rugo hakoreshejwe telefone ndetse na mudasobwa bikamugeraho.

Hari icyapa kiriho igare riri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru iri gare rikaba ryifashishwa bashyiramo ibicuruzwa kugira ngo babijyane babigeze ku bakiriya babishaka akenshi iki cyapa kikaba kigaragaza nubucuruzi bukorerwa kuri murandasi.

Icyapa kigaragaza apurikasiyo y'ikoranabuhanga, ishobora kwifashishwa mu gutumiza ndetse no kugura ibintu; aho umukiliya aba ari mu rugo agakoresha ikoranabuhanga akandikira urubuga runaka, rukamugezaho ibicuruzwa atavuye aho ari.

Icyapa kiriho abantu babiri bicaye, bakaba bafite mudasobwa imbere yabo, ndetse hagaragara n'ibintu bitandukanye bikorwa, akaba ari ikigo cy'ikoranabuhanga, uburyo bwakoreshwa kugira ngo umukiriya abashe kubona ibyo ashaka akoresheje itumanaho rya terefoni na mudasobwa atavuye aho ari.

Urupapuro ruriho amakuru y'ikigo kitwa yubeyi doti komu gikora ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga ndetse hakaba hariho n'ifoto y'umuntu witwa Nkurunziza ukorera kuri icyo kigo cya yubeyi doti komu.

Icyapa kigaragara ibicuruzwa bitandukanye birimo telefone, ibikoresho bikoresha amashanyarazi, imyenda y'abagabo, imyenda y'abagore, ibikoresho by'abana n'ibindi bintu bitandukanye birimo n'impano

Urupapuro ruriho ibicuruzwa bitandukanye, hariho telefone ndetse n'inkweto, aha ngaha bakaba barimo bagaragaza uburyo bukoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho umukiriya ari mu rugo hanyuma agafata telefone yiwe cyangwa se mudasobwa hanyuma agahaha atavuye aho ari hanyuma bakabimugezaho.

Abantu babiri; umwe yambaye umupira y'icyatsi ndetse n'umweru, yambaye n'isaha ku kaboko, n'undi yambaye umupira w'umutuku, ndetse bafashe impano yanditseho mirongo itanu ku ijana, imbere y'aho hakaba hari icyapa cyanditseho contact us.

Urupapuro ruriho ibigo bitandukanye bikora ubucuruzi bwo kuri murandasi, harimo ikigo cyitwa ebay, amazon, ormat, bech, sony, taobaw, alibaba doti com, ap back market, a express, samsung, ikon, shin, disne, caters n'ibindi bigo byinshi bitandukanye.

Icyapa kerekana ikigo cy'ubucuruzi gikora ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga ahanini bushingiye ku nkweto, hakaba hariho n'ifoto yerekana inkweto ebyiri zisa umweru.

Umuntu uri ku igare uretse igikapu gukorera ikigo cyitwa Vuba vuba gishinzwe gutwara ibintu kibigeza ku bakiriya mu buryo bwihuse.

Abamotari bicaye ku mapikipiki ahetse udusanduku turimo ibicuruzwa biteguye kubijyana bakabishyikiriza abakiriya babibatumye.

Iki ni icyapa kiri kwerekana ikigo kitwa intanashono shopingi, gishinzwe gutanga ibicuruzwa cyanecyane bishingiye kuri murandasi, igihe cyose umukiriya yatse ibintu ukeneye ko babimugezaho iki kigo kirabikora.

Icyapa kigaragaza umuntu wambaye inkweto zifunguye kandi iruhande hakaba hari igiciro kigaragara cy'amafaranga hepfo hakaba hari website igaragara, kikaba kifashishwa mu kugaragaza ibicuruzwa bicururizwa kuri murandasi.

Hari inyubako y'igorofa imbere yaho hakaba haparitse amamodoka, ndetse n'amamoto atandukanye n'abamotari, hakaba handitse ijambo iposita iki akaba ari ikigo gifasha mugutanga ubutumwa kibugeza kubantu bugenewe.

Ipikipiki yicayeho umuntu wambaye umupira wa oranje n'umuhondo akaba yambaye n'ipantalo y'umukara, akaba afite n'igikapu cyanditseho "POZ derivari", iki akaba ari ikigo gishinzwe gutwara no kugeza ibintu ku bakiriya babiguze kikabibagezaho batavuye aho bari.

Amazu meza asize irangi ry'umweru, hariho n'ibicuruzwa bitandukanye, imitako ndetse na sitile zitandukanye baguruza. Ibi bikaba bikunzwe kifashishwa bari kugaragaza ibicuruzwa mu buryo bwa murandasi.

Umuntu ufashe moto iyo moto ikaba ihetse agasanduku kanditseho vuba vuba, iki akaba ari ikigo cy'itumanaho gishinzwe gutwara ibicuruzwa ku bakiriya babiguze bakoresheje ikoranabuhanga haba irya telefone cyangwa irya mudasobwa.

Ni abantu babiri umwe ni umukozi w'ikigo kitwa vuba gishinzwe gutwara, ibicuruzwa abijyanye bakiriya akaba yari amuzaniye ibyo yari amaze guhaha yari yamutumye.

Urupapuro ruriho amafoto atandukanye, hariho umuntu wambaye ingofero nziza y'umutuku, ndetse ku ruhande hakagaragara n'imyenda itandukanye imanitse ku mugozi, aha hakaba hagaragara y'uko ari ikigo gikora ubucuruzi bw'ikoranabuganga, aho umukiriya ashobora gutumiza ibicuruzwa yibereye mu rugo, akoresheje telefone ndetse na mudasobwa hanyuma bikamugera ho.

Umuntu wambaye ishati y'icyatsi yanditseho vuba vuba, akaba afite amverope irimo karoti ndetse n'ibitunguru n'icupa ry'amazi, imbere yiwe hakaba hari agasanduku kanditseho vuba vuba.

Icyapa kiriho amakuru atandukanye atandukanye akoreshwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga hakaba hariho umuntu ugaragara uri kur mudasobwa. Iki kikaba kifashishwa mumkwerekana ko ikigo gikora ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, aho abakiriya bifashisha telefone ndetse na mudasobwa, hanyuma bagatumuza ibyo bakeneye bikabageraho.

Icyapa kiriho iseri ry'imineke hakaba hariho u muneke uri ku ruhande utonoye ukasemo uduce, ndetse hakab hagaragaraho n'ibirayi, akaba ari icyapa kigaragaza y'uko ari ubucuruzi bukorwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, aho umukiriya afata telefone yiwe agafata na mudasobwa hanyuma agatumiza ibyo akeneye bakabimugezaho atavuye aho ari.